Abayobozi b'ibitaro ndetse n'abandi baterankunga mu bijyanye n'ubuzima, bashobora kwicara hamwe bakareba ku kibazo gihari kugira ngo bagishakire umuti. Bajya inama bagatanga ibitekerezo kugira ngo babashe kubona igisubizo. Nanone bibanda ku bibazo byugarije isi kugira ngo abe ari ibyo bibandaho cyane babibonere ibisubizo hakiri kare.

Isuku ni ingenzi by'umwihariko iyo ku ntoki, ni yo mpamvu mu bigo by'amashuri hagomba kuba hari amavomero menshi kugira ngo abana babashe kwita ku isuku yo ku ntoki zabo, ibyo bizabarinda indwara ziterwa n'umwanda na none ayo mazi agomba kuba na yo asa neza yizewe.

Abajyanama b'ubuzima ni abantu batitwaho mu buzima bwacu bwa buri munsi, tuba duturanye niyo mpamvu badufasha, iyo turwaye urugero nka Malariya baradupima, bita ku buzima bw'abana batoya, abagore batwite, gusa nabo bagomba guhabwa amahugurwa kugira ngo bagire ubumenyi bwimbitse ku ndwara nyinshi.

Tudafite ubuzima bwiza nta kintu twakora. Niyo mpamvu abayobozi bose yaba abo mu Rwanda ndetse n'abandi bo ku isi bahurira hamwe bagashakira ibisubizo hamwe by'ibibazo byugarije isi ku bijyanye n'ubuzima. Harimo gukumira ibyorezo, ingamba bafite zitandukanye, gukora ubushakashatsi butanga imiti ndetse bagatera inkunga aho babona ari ngombwa mu bihugu bikeneye ubufasha.

Unicef ni Ikigo Mpuzamahanga gishinzwe kwita ku burenganzira bw'umwana, gifasha abayobozi b'ibihugu ku buryo bakita ku mwana ukiri mutoya amashuri, imikurire ye ndetse n'ubuzima bwe, batanga inkunga zigiye zitandukanye byabafasha mu kwiga ku buzima ndetse bagerageza gusura abana uko uko bwije n'uko bukene kugira ngo bamenye ibibazo byabo, ifasha Leta mu kwita ku buzima bw'umwana.

Amazi ni ingenzi cyane no ku bigo by'amashuri aba akenewe kuko hahurira abantu benshi bakeneye gukora isuku, abana baba bagomba gutozwa umuco wo gukaraba intoki neza n'amazi n'isabune kugira ngo birinde indwara zitandukanye, ziterwa n'umwanda.

Iyo twagiye kwifuza kwa muganga, umuganga uhari ashobora gufata akanya gatoya akabanza akatuganiriza, kugira ngo twunguke ubumenyi butandukanye, niba hari nk'icyorezo cyangwa se ari indwara bashaka ko twirinda bafata ako kanya bakatubwira amakuru ajyanye n'icyo kibazo.

Abaganga bakora mu ibagiro aho bagira abantu. Baba bafite ubushobozi buhambaye kuko bagerageza gutabara ubuzima bw'umuntu. Umuntu aba arembye ariko ukabona arakize. Nanone iyo bari kubikora baba bambaye imyenda y'ubwirinzi kugira ngo batagira indwara bahandurira cyangwa se bakanduza abo bagiye kuvura.

Iyo habayeho ikibazo cyo kugira uburwayi butunguranye, hari imodoka zabugenewe kugira ngo zihutire mu gutanga ubutabazi bw'ibanze. Izo modoka zose ni ibikoresho by'ibanze byatuma umuntu bamwitaho. Nanone haba harimo abaganga bafasha abo bantu igihe bahiye n'ikibazo.

Kwita ku buzima bw'umwana ukiri muto ni ibya buri wese, cyane cyane umwana uri munsi y'imyaka itanu kuko iyo tubwitayeho bimurinda igwingira ndetse bikazagira ingaruka nziza mu gihe azaba akuze, ni n'aho usanga umwana akurana ubwenge butandukanye kuvumbura kubera ko aba yarabihawe mbere yuko arenga imyaka itanu.

Mu baturage hari igihe uba usanga hadafite amavomero mu ngo zabo, niyo mpamvu hari amaduka yagenwe ashinzwe gucuruza amazi kandi ayo mazi abafite isuku, nanone ahantu hacuruzwa amazi haba hari gukoreshwa igiciro kiri hasi cyane cyashyizweho na WASAC, ku buryo buri muturage abona amazi bimworoye kandi amazi afite isuku meza.

Ubuzima busanzwe abaturage baba bakeneye ahantu ho gukura amazi, kugira ngo abafashe mu bikorwa byabo bya buri munsi, mu guteka, gukora amasuku, rero urumva babakeneye ahantu ho kugira ngo bayavomerere.

Mu gihe abana barwaye, ni byiza ko ababyeyi bihutira kubajyana kwa muganga kugira ngo abaganga babashe kubitaho. Babaha imiti ndetse n'inkingo, ibyo bigatuma abana bakira indwara mu buryo bworoshye.

Ni byiza ko ababyeyi cyangwa se abandi barera abana, babatoza umuco wo gukaraba intoki neza n'amazi meza n'isabune kuko ibyo bizabarinda indwara ziterwa n'umwanda nk'inzoka cyangwa se ubundi burwayi bwaterwa no kudakaraba intoki, ibyo bizatuma abana babikurana babigire nk'umuco.

Abajyanama b'ubuzima baba bakeneye guhugurwa, kugira ngo babashe kumenya byimbitse, ubuzima bwa muntu, bamenye serivisi bamuhereza, bitewe n'uko ameze muri ako kanya, iyo bahuguwe bamenya byinshi, bigatuma nimba tubasaba serivisi babasha kutwitaho neza.

Abajyanama b'ubuzima bita ku buzima bw'abaturage, bagerageza kubegera bakabaha ibyo bakeneye, muri byo harimo kwita ku bagore batwite, barabaganiriza, bakabereka ibintu bitandukanye bakora kugira ngo umubyeyi n'umwana arusheho kugira ubuzima bwiza, hakubiyemo imirire umubyeyi azajya afata, kujya kwipimisha bihoraho, ndetse n'imirimo ivunanye atagombye gukora, baradufasha cyane.

Twese mu buzima busanzwe dukenera amazi kugira ngo dukore ibikorwa bitandukanye, harimo gusukura aho turi, gusukura ubwacu, gusukura ibikoresho dukoresha n'ibindi bintu bitandukanye, na none turayakoresha kugira ngo tuyanywe, umubiri wacu ukomeze kugenda neza, ni iby'ingenzi ko leta ishyiraho amavomero rusange niba bidashoboka ko buri muturage yagira ivomero mu rugo, ayo mavomero agomba kuba afite amazi afite isuku yizewe kugira ngo atabatera indwara.

Amazi adufasha gukora ibintu bitandukanye. Ni yo mpamvu leta ishyiraho gahunda yo gushyira amavomero atandukanye hirya no hino mu midugudu. Ayo mavomero afasha abaturage kubona amazi mu buryo buboroheye kuko tuyakenera mu bikorwa byacu bya buri munsi. Kwiyitaho, kwita ku myambaro aho dutuye ndetse tukanayaywa. Ayo mazi leta iba yashyizeho aba afite isuku, yizewe ijana ku ijana ko nta ndwara yadutera.

Gushyiraho ingamba z'isuku by'umwihariko ku ntoki ni ingenzi cyane, dushobora gushyiraho kandagira ukarabe imbere y'ubwiherero kugira ngo buri wese nava mu bwiherero abashe kwihutira gukaraba n'amazi meza ndetse n'isabune. Iyo dushyizeho amazi meza n'isabune imyanda yose yaba igaragara n'itagaragara ibasha kuvaho bityo amafunguro tugiye gufata cyangwa ibindi tugiye gukora ntibyandure.

Amazi ni ingenzi cyane ku buzima bwacu bwa buri munsi, gusa nanone abagomba kuba bafite isuku kugira ngo atazatugiraho ingaruka, bityo Leta ishyiraho gahunda itandukanye yo gushyiraho amavomero rusange aho buri muturage abasha kuyabona mu buryo bworoshye iyo bidashoboka ko buri rugo rubona amazi biboroheye.

Hari udukoko dutandukanye dutera indwara kugira ngo batubone bifashisha ibindi byuma bibasha kutureba neza, babasha gufotora ifoto nini kugira ngo abantu bose babibone, hifashishwa ibyuma by'ikoranabuhanga birebamo imbere bikabasha kutubona.

Amazi ni ingenzi mu buzima bwacu bwa buri munsi, iyo ari meza aturutse ahantu heza biradufasha, abaturage rero baba bagomba kubona amazi mu buryo buburoheye kandi afite isuku kugira ngo babashe gukora ibikorwa byabo bya buri munsi, byaba mu guteka, mu gukora isuku, mu kwiyitaho ndetse n'ibindi bintu bitandukanye harimo no kuyanywa.

Inkingo ni kimwe mu bintu bakoresha bifashisha kuvura abantu kubera ko bakutera urushinge rukajya mu maraso birihuta cyane ku buryo umuti uhita utangira akazi uki kugera mu mubiri niyo mpamvu iyo haje indwara yihutirwa guha icyorezo ari bwo buryo bakoresha kugira ngo ubashe kurinda umuntu.

Amazi ni ingenzi cyane ko tuyabona ku buryo buri wese abasha kuyaywa, ni iyo mpamvu mu bigo by'amashuri haba hari amavomero atandukanye ku buryo buri mwana abasha kubona amazi meza, afite isuku kandi akayabona mu buryo buhagije.

Isuku ni ingenzi cyane. Ni yo mpamvu buri wese agomba kubigiramo uruhare, yaba mukuru cyangwa umu mutoya, ababyeyi, abarera cyangwa se abayobozi b'amashuri bagomba gutoza abana bakiri batoya kugira isuku bavuye mu bwiherero, bagiye gufata amafunguro cyangwa se ahandi ahantu hatandukanye. Ibyo bizatuma babigira nk'umuco.

Kwita ku buzima bw'umwihariko abana bari munsi y'imyaka itanu, ni ingenzi cyane, kuko bituma mu mikurire yabo bigenda neza, buri wese aba agomba kubigiramo uruhare, yaba abaganga ndetse n'abandi babarera, bikubiyemo rero kubaha ibiryo byujuje intungamubiri, ibitera imbaraga, imboga n'imbuto ndetse n'ibyubaka umubiri, iyo babikoze mbere bituma abana batagwingira, ndetse bakazabaho neza mu myaka iri imbere.

Ni byiza ko tugira isuku mu buzima bwacu bwa buri munsi by'umwihariko isuku yo ku ntoki zacu. Tuba twakoze ahantu hatandukanye, ariko iyo twitoje umuco wo kugira isuku tuvuye ku bwiherero, tugiye kurya, tugiye gutegura amafunguro, biturinda indwara ziterwa n'umwanda. Urugero nk'inzoka ndetse n'izindi zitandukanye. Ni byiza rero ko mu buzima bwacu bwa buri munsi twitoza kugira isuku yo ku ntoki.

RBC ifatanyije n'ibindi bigo byigenga igerageza gutanga amahugurwa cyane cyane ku bajyanama b'ubuzima kubera ko baba bafite aho bahurira n'ubuzima bwa muntu baba bakeneye guhugurwa buri munsi kugira ngo babone uko bita ku bandi, bahabwa amahugurwa ajyanye n'uburyo bapima indwara, ibimenyetso biranga indwara ndetse n'ibindi bintu bitandukanye.

Muri inno myaka hakomeje kwiyongera ikibazo cyo gutegura inda kw'abangavu bakiri bato cyane. Iki kibazo kuberako gikomeje kwiyongera, leta ishyiraho ingamba zitandukanye kugira ibashe kukirwanya harimo amahugurwa y'abantu bakuru ndetse n'abatoya, abajyanama b'ubuzima, abaganga ndetse n'urubyiruko muri rusange kugira ngo irebe ko icyo kibazo cyakemuka.

Iyo abaturage babonye amazi birabashimisha cyane amazi ni kimwe bintu dukenera mu buzima bwacu bwa buri munsi mu bikorwa umubiri wacu urayakenera, kuko ibikorwa byinshi bibera mubiri bikenera amazi niyo mpamvu leta igenda ishyiraho amavomero rusange kugira ngo abaturage babashe, ayo mazi aba afite isuku yizewe ijana ku ijana.

Amazi ni ingenzi kuri buri muntu wese, yaba mutoya, umukuru ndetse n'abandi. Gusa nanone tuba tugomba kwita ku isuku yayo aho aturuka. Niyo mpamvu leta igerageza gushyiraho gahunda yo gushyiraho amavomero rusange aho abaturage bahurira bakavoma amazi ku buntu kandi afite isuku meza yizewe, kuko amazi akenerwa mu buzima bwacu bwa buri munsi.

Iyo umwana arwaye bihangayikishije umubyeyi cyane, niyo mpamvu iyo agize ikibazo niyo cyaba ari gito bagomba kwihutira kumujyana kwa muganga kugira ngo bamusuzume, abaganga bakora uko bashoboye bakabitaho bagasuzuma indwara zose kugira ngo bagerageze kumurinda, nanone umwana kuko ubuzima bwe cyangwa se ubudahangarwa bwe buba butariyongera ni iby'ingenzi ni kwihutira kwa muganga mu gihe arwaye.

Ubuzima bw'umwana kubwitaho ni inshingano ya buri wese. Leta ishyiraho gahunda yo gupima abana imikurire yabo, yaba mu biro, uburebure, uburyo bakura mu bwenge ndetse n'ibindi bitandukanye. Niyo mpamvu ababyeyi iyo afite umwana aba agomba kubyitaho, igihe bamuhaye agomba kumupimishiriza, agomba kwitabira kugira ngo akurikirane imikurire y'umwana we atazarwara ntabimenye.

Iyo haje icyorezo, abayobozi ndetse n'abaganga bafata ingamba kugira ngo babashe kukirwanya, muri zo harimo gutera inkingo abaturage bose uko bishoboka, ibyo byabaye nk'igihe icyorezo cya Kovide cyageraga mu Rwanda, aho buri muturage wese yasabwaga guterwa urukingo.

Ni byiza ko abayobozi b'ibihugu ndetse n'abaganga bita ku buzima bw'umwana, bagomba gupima ibiro, uburebure nanone bakabatera inshinge, kugira ngo bakurikirane ubuzima bwabo bwa buri munsi, leta iba igomba kubishyiraho imbaraga kugira ngo bibagirire umumaro.

Abayobozi b'ibihugu ndetse n'abaterankunga, bajya bashyiraho gahunda yo gutera inkunga abaturage, bakabaha ibyo kurya na none mu buhinzi batanga imfashanyo nk'amafumbire n'ibindi byifashishwa kugira ngo bakore ubuhinzi bwabo neza. Leta itanga ibyo byose ku buntu kugira ngo ikomeze kwita ku baturage bayo.

Amazi twese aradufasha cyane, nta muntu kuri ino si udakeneye kubona amazi mu buryo buhoraho ariko iyo dufata amazi mabi cyangwa tugakoresha amazi adasukuye dushobora kwandura indwara ziterwa n'umwanda, ni iby'ingenzi ko leta ishyiraho gahunda yo kwegereza amazi abaturage ariko na none akaba afite isuku kuko bitabaye ibyo twarwara.

Abashinzwe ubuzima ndetse n'abafite aho bahuriye na bwo, bagomba kwicara hamwe bakajya inamaana ku bintu bitandukanye, bungurana ibitekerezo nko ku ndwara runaka yadutse, bagashakiramo ibisubizo nanone bafatanyiriza hamwe mu gushaka ingamba zo guhashya no kurwanya iyo ndwara, bakareberera abaturage.

Abajyanama b'ubuzima ni abantu badufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi kuko tuba duturanye, bamenye uko twaramutse uko twiriwe by'umwihariko nko ku bana bari munsi y'imyaka itanu, abagore batwite, abo ni abantu bitaho by'umwihariko kurusha abandi. Nanone mu gihe dukeneye ubutabazi bw'ibanze dushobora kubifashisha bakaduha imiti y'ingenzi.

Kwita ku buzima ni ingenzi cyane. Ibyo biba bikubiyemo guterwa inshinge cyangwa gufata urukingo, twirinda ibyorezo runaka kugira ngo umubiri wacu ubashe kubaka ubudahangarwa, no mu gihe icyo cyorezo kizaba kije, uzabashe kwirwanaho. Ibyo Leta ibishyiramo imbaraga cyane, ku buryo buri muturage wese abasha kubona iyo serivise.

Hari ibigo bigiye bitandukanye byigenga bifasha Leta kwita ku baturage bayo. Hari ikiba gishinzwe gufasha nk'impunzi kugira ngo bahe ibyo kurya, ibyo bakenera mu buzima bwabo bwa buri munsi. Ibyo bigo bigira uruhare mu iterambere ry'urugo iterambere ry'Igihugu. Birafasha cyane kuko bituma abaturage barushaho kumererwa neza babahereza ibyo kurya n'ibindi bintu bakenera mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Kanseri y'inkondo y'umura ni indwara ifata abagore n'abakobwa, ariko nanone iyo tuyirinze hakiri kare tugafata urukingo, bituma tutayirwara. Bityo gahunda ya leta yo gukangurira abantu kuyipimisha, gufata inkingo hakiri kare bizaturinda cyane. Nanone abana b'imyaka cumi n'ibiri b'abakobwa, hari gahunda yo kubatera inshinge mu rugo.

Ahantu hagiye hatandukanye haba hari ibigo nderabuzima, aho abaturage bagenda bagasaba serivisi z'ubuvuzi zitandukanye bitewe n'uko bumva bamerewe, ibi bituma nta muntu urwara ngo arebera mu rugo ahubwo buri wese abasha kwisangayo bakamufasha, bakamwitaho kugira ngo ubuzima bwe bwonge bumere neza.

Abaturage badafite amazi meza mu ngo zabo, uba usanga bajya kuvoma mazi mu gasozi, aho aba yararetse. Ayo mazi ntawo aba ari meza, kuko aba yanduye bitewe n'abantu bakoresherezamo ibintu bitandukanye, nko kogerezamo, kogeramo ndetse no gufuriramo. Ayo mazi abaturage bakoresha ashobora kubatera indwara.

Hari amazi atemba ava ahantu hatandukanye nko mu misozi. Ayo mazi ahurira ahantu, ugasanga yakoze nk'ikidendezi, aho usanga abana bakunda kujyamo bakayoga. Gusa ntabwo aba ari meza, kuko ashobora kubatera indwara.

Abakuze na bo ubwabo hagati yabo bashobora kwicara bakaganira ku bintu bitandukanye. Nubwo baba bashaje ariko ibitekerezo byabo biba bigihari rwose. Iyo bahawe umwanya baraganira ku bintu bitandukanye ndetse natwe ubwacu hari ibyo ushobora kubigiraho bitewe n'ubunararibonye baba bafite. Ni iby'ingenzi ko tubabungabunga tugakomeza kubitaho.

Abayobozi batandukanye bo ku isi, cyane cyane abafitanye isano n'aho bahurira n'ubuzima, bicara hamwe bakaganira ku kibazo cyugarije isi, hakubiyemo gushaka inkingo, gufata ingamba zitandukanye z'uburyo bakwirinda indwara. Na none bakora ubushakashatsi bwimbitse kugira ngo basuzume niba indwara runaka yabasha kuvurwa ndetse ikarandurwa burundu.

Amazi ni ingenzi mu buzima, ni iyo mpamvu Leta ishyiraho gahunda yo kwegereza abaturage amazi, haba aho batuye cyangwa se mu mavomero rusange. Ayo mazi aba afite isuku kandi yizewe ku buryo abayakoresha adashobora kubatera indwara.

Hari ibigo bigiye bitandukanye byigenga, bifata ingamba bigafata iya mbere kugira ngo bifashe abaturage kwita ku buzima, bishinga amafarumasi, bigashinga amavuriro kugira ngo buri muturage wese abashe kubona ubuvuzi bumworoheye kandi baba batanga serivisie zinogeye buri wese.

Amazi atuma dukora ibintu bitandukanye, turayakoresha mu guteka, mu gufura, koza ibyombo ndetse no kwisukura ubwacu. Niyo mpamvu abayobozi b'igihugu ndetse n'abaturage bashyiraho gahunda yo kubaka amavomero rusange. Aya mavomero aba arimo amazi meza afite isuku kandi buri muturage aba amwegereye ku uburyo yayabona bitamugoye.

Mu nzu mberabyombi yo kwa muganga, abayobozi bakuru ab'ibitaro ndetse n'abahakora nk'abaganga bajya hamwe bakajya inama, bakungurana ibitekerezo ku bibazo runaka urugero nk'ibyorezo byugarije Isi, kwita ku buzima bw'umwana, umuore utwite, kwita ku isuku ndetse n'ibindi bibazo bitandukanye, batanga ibitekerezo byinshi ndetse bagashakira hamwe ibisubizo.

Abaturage badafite amazi mu rugo ku buryo boroheye babasha kuyabona. Bagira ahantu bahurira ku ivomero rusange ryubatswe na leta kugirango ngo babashe kubona amazi biboroheye. Ayo mazi atuma ubuzima bwabo buborohera mu gukora isuku, mu kuyatekesha ndetse no kwita ku bindi bintu bitandukanye.

Mu Rwanda hatangajwe ikigo gishinzwe kwita ku buzima bw'umwana. Kifashishijwemo na UNICEF RBC n'ibindi bigo bibiteramo inkunga, icyo kigo cyatangajwe kigaragaza imigambi yacyo ndetse n'ingamba gifite mu kwita ku buzima bw'umwana, mu kumurinda ihohoterwa ndetse n'ibindi bintu bitandukanye bishobora kwangiza ubuzima bwe.

Abana nabo bakenera amazi yo kunywa. Ni iyo mpamvu amavomero aba agomba kuba azana amazi afite isuku ku buryo n'abayanywa batagira indwara bahandurira.

Iyo haje icyorezo ni iby'ingenzi ko dufata ingamba zitandukanye. Niba abakora kwa muganga hari aho bagiye guhurira n'abaturage bo hanze, baba bagomba kwikingira, bakambara uturinda mu maso, uturindantoki kugira ngo babashe kuvugana na bo. Hari igihe indwara iba yandurira mu matembabuzi cyangwa se mu mwuka, uko tuwuhanahana hagati yacu.

Agakoko gatera SIDA karacyahari ntaho kagiye, tuba tugomba gufata ingamba zihamye, tubifashijwemo n'abaganga ndetse natwe ubwacu kugira ngo tubashe kuyirwanya mu buryo bwimbitse, tuba tugomba gufata imiti mu gihe twagize ubwandu nanone tuba tugomba guhora tujya kwipimisha kugira tubereke ubuzima bwacu buhagaze, ikindi tuba tugomba gukoresha uburyo bwo kwikingira kugira ngo tutayandura.

Ni byiza ko abagize ibitaro n'abakora n'ahabakora bose, baba bagomba gufata umwanya bakiga ku kibazo cyugarije isi ndetse n'abaturage bacyo kugira ngo babashe kugikemura, yaba ibyorezo, indwara ziri kwaduka ndetse n'uburyo buri muturage wese yabasha kubona imiti mu buryo bumworoheye.

Kanseri y'inkondo y'umura ihangayikishije igihugu ndetse n'abagituye, rero abayobozi bahora bashyiraho gahunda zitandukanye, kugira ngo tubashe kuyirwanya, hariho gahunda yo gutera abana inkingo bageze mu myaka cumi n'ibiri, abana b'abakobwa iyo bagejeje iyo myaka bahabwa urukingo rushobora kubarinda kwandura kanseri y'inkondo y'umura.

Leta ishyiraho gahunda itandukanye yo kwegera abaturage, ishobora gukoresha abajyanama b'ubuzima cyangwa abandi bose bafitanye isano n'ubuzima, iyo begereye abaturage mu ngo zabo bituma bamenya ubuzima bwabo bwimbitse nimba hari abafite ibibazo bakabasha kubikemura, bakabasha kubitaho, iyo ibyo babikoze abaturage bumva banyuzwe bagatanga ibibazo byabo bisanzuye kandi bibasha gukemuka mu buryo bworoshye.

Iyo abaturage ntamazi meza bafite, bibagiraho ingaruka. Bituma bajya kuvoma mu mazi y'imigezi atemba, aho usanga yaritse. Ayomazi aba ari mabi. Aba arimo imyanda itandukanye, bitewe n'uko aturuka mu gasozi, akajyamo imyanda myinshi. Leta rero ni ibyingenzi gushyiraho gahunda yo gushyira amavomero rusange afite amazi meza, afite isuku, kuko bitabaye ibyo, abaturage barwara indwara ziterwa n'umwanda.

Isuku ni ingenzi cyane. Gusa nanone ntabwo twabasha gukora isuku cyangwa kugira isuku ku mubiri wacu n'i n'ibyo turya nta mazi ahagije dufite kandi nayo afite isuku. Ni mpamvu leta ndetse n'abayobozi batandukanye, bashyiraho gahunda yo gushinga amavomero mu Murenge cyangwa se mu Tugari kugirango ngo buri muturage abashe kubona ayo mazi meza afite isuku, biturinde kugira umwanda ndetse no kwandura indwara ziterwa no kugira umwanda.

Abayobozi batandukanye b'ibitaro ndetse n'abandi basanzwe, bicarana hamwe bagakora inama kugira ngo bige ku bibazo bibugarije, ibyo bituma babikemura kandi bakabona igisubizo cyiza kinogera buri wese.

Mu Rwanda iyo haje icyorezo, Leta ishyiraho ingamba z'uburyo yarinda abaturage. Nk'urugero iyo covid yageraga mu Rwanda, yafashe ingamba zihutirwa, zo gukingira abaturage bayo. Yatanze inkingo ku baturage bose kandi ku buntu, mu buryo butandukanye.

Iyo hari icyorezo ni byiza gufata ingamba. Urugero nko mu gihe cya koronavirus abantu twasabwagaga twese kwambara udupfukamunwa mu gihe tugiye ahantu hari abantu benshi. Ibyo byaraturinze cyane bituma ubwandu ndetse n'uburyo indwara yakwirakwiraga bugabanuka.

Iyo abaturage bafite amazi meza, bituma isuku yiyongera n'abana batoya batozwa gukaraba intoki kugira ngo bibarinde indwara ziterwa n'umwanda. Ibyo ngibyo ntamazi meza ahari ntabwo byashoboka.

Amazi ni ingenzi cyane kuri buri muntu wese, yaba umwana muto, umukuru ndetse n'abashaje bageze mu zabukuru, ni byiza ko buri muturage wese aho yaba ari abasha kubona amazi mu buryo bumworoheye afite isuku kandi byoroshye kuyavoma.

Iyo abaturage babonye amazi hafi n'urugo rwabo cyangwa se aho batuye, barishima cyane kuko baba bayakeneye mu buzima bwabo bwa buri munsi. Baba babonye amazi afite isuku yizewe, azabafasha kubaho neza. Iyo twegerejwe amazi buri wese bimugiraho ingaruka nziza, yaba mu buzima bwe, ubw'abandi ndetse no kugira isuku bikaturinda n'indwara.

Iyo abaturage bafite amazi mu ngo zabo, birabashimisha kandi ibyo bituma bakora imirimo yabo mu buryo buboroheye. Amazi akenerwa mu buzima bwacu bwa buri munsi mu gukora isuku ku myambaro yacu, aho dutuye ndetse no guteka.

Amavomero rusange afasha abaturage kubera ko nubwo baba badafite amazi mu rugo biraborohera kubona amazi. Nanone aya mazi aba afite isuku cyane yizewe kuko Leta iba yarayitondeye igihe iba igiye kuyashinga. Buri muturage rero biba bimworoheye kugira ngo ayabone.

Kwita ku buzima bw'umwana ukiri muto ni ingenzi cyane, kuko rimwe na rimwe usanga ashobora kugwingira cyangwa bikazamugiraho ingaruka mu myaka iri imbere. Harimo kumutera inshinge zimurinda byorezo ndetse no kumwitaho mu buzima butandukanye bimurinda kugwingira n'izindi ngaruka zikubiye muri ibyo ngibyo.

UNICEF igira uruhare rukomeye cyane mu kwita ku buzima bw'umwana ukiri mutoya. Ifasha abantu batandukanye, haba hano mu Rwanda ndetse no muri Afurika no mu bindi bihugu bitandukanye. Iyo hariho nk'ibiza, intambara, itanga imfashanyo kugira ngo ubuzima bw'umwana budahungabanywa, agasubira inyuma.

Abana bakiri bato biga mu mashuri abanza, bagomba gutozwa kugirira isuku intoki zabo, bagomba kubigirira umuco, kuko intoki ni kimwe mu bintu bishobora kutwanduza indwara mu buryo bworoshye. Ni iyompamvu abayobozi b'amashuri, ababarera ku mashuri ndetse n'ababyeyi, babatoza gukaraba intoki neza n'amazi meza n'isabune, kugira ngo twirinde izo ndwara. Bavuye mu bwiherero, cyangwa bajyiye gufata amafunguro.

Leta iba igomba gushyira imbaraga mu bijyanye n'ubuzima, kuko igihugu kidafite abaturage bafite ubuzima bwiza, ntacyo cyaba kiricyo, ishobora gushyiraho inama rusange abantu bagatanga ibitekerezo by'uburyo ubuzima bwabasha kwitabwaho, muri ibyo biganiro hakubiyemo no kuvuga ibijyanye no ku mafaranga, n'ahantu hazavamo ibikoresho bizifashishwa mukwita ku buzima bw'abaturarwanda ndetse n'abandi batuye Isi.

Ubuzima ni ubw'agaciro cyane. Ni iyo mpamvu abayobozi b'ibihugu ndetse n'abashinzwe ubuzima mu gihugu bakora uko bashoboye bakicara hamwe bakagirana ibiganiro ku bijyanye n'uburyo bakita ku buzima, ahazava amafaranga yo kugura ibikoresho ndetse n'imiti.

Ni iby'ingenzi ko Leta yita ku baturage bayo, ikabahereza inkingo kugira ngo ibakingire nka Malariya, ibyorezo bitandukanye, buri muturage rero aba asabwa kugira ngo yitabire iyo gahunda, yitaye ku buzima bwe, kuko biba bidufitiye akamaro uyu munsi ndetse no mu gihe kizaza.

Kwita kubuzima ni ingenzi cyane. Abayobozi b'igihugu by'umwihariko abafite aho bahurira n'ubuzima bwa muntu, baba bagomba gufata ingamba z'uburyo buri wese yabasha kubona serivisi zinoze. Gusa ibyo bisaba amafaranga. Leta ishobora gushyiraho gahunda y'uburyo yakoresha kugira ngo ibone amafaranga yo kwita ku buzima, bwa buri wese, bitagoranye.

Hari ibikoresho bitandukanye byifashishwa kwa muganga kugira ngo babashe kutuvura. Muri byo hari icyitwa bomboni, aho kiba kibitse umwuka wa ogusijeni, ku buryo iyo umuntu arwaye atabasha guhumeka, bamucomekamo icyo cyuma, kugira ngo bamwongere ubushobozi bwo guhumeka.

Abana ni ab'agaciro cyane. Niyo mpamvu abayobozi ndetse n'abandi bashinzwe ubuzima baba bagomba kubereka urukundo, bakabishimira ndetse bakabereka ko ari ab'agaciro. babaha umwanya bagakina ndetse bakaganiriza ababyeyi babo ku buryo babitaho. Ibyo bituma abana bakura neza, bikabarinda kurwara indwara zo kwiheba no kwigunga.

Kugira isuku ni ingenzi cyane. Cyane cyane isuku yo ku ntoki. Iyo intoki zanduye kubera ko tuzikoresha inshuro nyinshi, bishobora kudutera indwara ziterwa n'umwanda. Muri zo harimo impiswi ndetse n'izindi zitandukanye. Niyo mpamvu tuba tugomba kwitabira gukaraba neza intoki n'amazi meza n'isabune. Amazi ni ingenzi mu gukora ibyo bikorwa byose gusa na yo agomba kuba afite isuku.

Amazi ni ingenzi cyane, gusa tuba tugomba kuyakoresha mu buryo bwiza, afite isuku kandi yizewe. Abana batoya nabo baba bagomba gutozwa gukaraba intoki bakagira umuco wabo. Intoki ni kimwe mu bintu bitwara udukoko tutagaragarishwa amaso, kandi natwe tuzikoresha kenshi. Niyompamvu tuba tugomba kwitoza kugirira isuku intoki zacu.

Abana ni bo mbaraga z'ejo z'Igihugu, ni iyo mpamvu Leta ishishikariza ababyeyi, kuza kubakingiza kuri gahunda ya muganga aba yarabahaye. Abaturage babasanga mu Tugari twabo no mu Midugudu, kugira ngo babafashe gukingira abana indwara zitandukanye.

Abafite aho bahurira no kwita ku buzima bwa muntu, baba bagomba gufata umwanya bakaganira ku bibazo bitandukanye. Haba harimu n'abajyanama b'ubuzima, abayobozi bakora ku bitaro, abanasi cyangwa se abaganga, abaforomo ndetse n'abakozi bandi bafitanye isano n'aho bahurira n'ubuzima kugira ngo baganire bare ibitagenda neza babikosore.

Mubuzima busanzwe amazi ni ingenzi, mubikorwa byacu bya buri munsi turayakenera niyo mpamvu buri muturage wese aba agomba kugira ahantu ayakura. Hari bamwe batayagira mu ngo zabo ariko nanone leta igashyiraho, ahantu rusange hari amavomero abaturage babasha kuvomaho atari kure yabo, nanone ayo mazi agomba kuba afite isuku ku buryo atabatera indwara cyangwa abagiraho izindi ngaruka.

Iyo haje ibyorezo runaka, ni byiza ko Leta ishyiraho ingamba zo gukingira abaturage kugira ngo ibarinde icyo cyorezo. Urugero nk'igihe muri kovide yazaga Leta yashyizeho gahunda yo gukingira abaturage bose kugira ngo umubiri ubashe kubaka ubudahangarwa.

U Rwanda rugenda rwifatanya n'ibindi bihugu bitandukanye, urugero nka gana Canada n'ibindi bihugu kugira ngo bafatire hamwe ingamba zo kurwanya indwara zitandukanye, urugero nka kanseri y'inkondo y'umura. Iyo kanseri ihangayikishije isi cyane ari yo mpamvu bahuriza hamwe imbaraga kugira ngo bashakire hamwe igisubizo, harimo gutera inkingo abangavu.

Kwita ku buzima bwo mu mutwe ni iby'ingenzi cyane, iyo bidakozwe nk'iyumuntu mukuru agize icyo kibazo ashobora guhungabana mu mutwe, ku buryo ashobora kwisanga yagize ubwonko nk'uw'abana, aba yumva yigunze, bishobora kumuviramo no kurwara agahinda gakabije no kwiheba, niby'ingenzi rero ko tubishyiramo imbaraga mu kubitaho.

Kubera ubuzima bwo mu mutwe ari ubw'agaciro kenshi, ni iyo mpamvu abayobozi b'ibihugu ndetse n'abandi bose bashyiraho umunsi mpuzamahanga wo kwizihiza umunsi wo kwita kuzima bwo mu mutwe, uwo munsi uba ku itariki icumi z'ukwezi kwa cumi buri mwaka, hakorwamo ibikorwa bitandukanye hakubiyemo ubukangurambaga ku bijyanye no kwita ku buzima bwo mu mutwe, icyo gihe uba ari umunsi w'agaciro kenshi.

Ihohoterwa rishingiye ku gitsina by'umwihariko ryibasira igitsina gore, ni ingenzi ko twese tubigiramo uruhare. Hari gahunda ya polisi yo kurwanya ihohoterwa gusa nubwo ari iya polisi iba yabishyizeho, buri wese buri muturage uko yaba angana kose aba agomba kubigira ibye. Niba hari ahantu tuzi cyangwa se hari makuru dufite, tuba tugomba gufata iya mbere tukayatanga.

Mu Rwanda mu w'igihumbi kimwe magana akenda mirongo ikenda na kane, habayeho jenoside yakorewe abatutsi, niyo mpamvu hagiye hubakwa inzibutso nyinshi zitandukanye hashyinguwemo imibiri y'abazize jenoside, abantu batandukanye bajyayo kugira ngo bunamire izo nzirakarengane babahe n'icyubahiro.

Ni byiza ko abaturage, abayobozi b'ibitaro, abakora kwa muganga, ndetse n'abandi bose, baganirizwa bagahabwa amahugurwa ku bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe, tutameze neza nta kintu na kimwe twabasha gukora, ndetse n'iterambere ry'igihugu ryasubira inyuma, iyo muri ayo mahugurwa bayajemo bigiramo ibintu bitandukanye, uburyo batanga ubutabazi bw'ibanze k'ufite icyo kibazo, ndetse n'ibimenyetso biranga icyo kibazo.

Iyo abana tutaberetse urukundo cyangwa ngo tubiteho, birangira na bo ubwabo batameze neza ugasanga bararize, na none iyo haje ibyorezo nk'inzara, bishobora gutuma bahungabana kandi iyo ibyo bibaye, mu gihe runaka nko mu myaka iri imbere barakuze, bishobora kubagiraho ingaruka, ugasanga hari ba bana bahora barakuze, biheba bumva bari bonyine, badashaka kuvugisha abandi.

Iyo umuntu agize ikibazo cyo mu mutwe, bishobora kumuviramo ubumuga, bikarangira ataye ubwonko, bumwibutsa. Ibyo rero ntabwo ari byiza cyane, niyo mpamvu buri wese agombaga kubigira ibye, mu gihe umuntu yaba aragaragaje ibimenyetso, byo mu mutwe.

Iyo abantu batitaweho ku bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe, birangiye barwaye cyane hanyuma ugasanga birirwa baba ku mihanda, badasa neza, kandi ibyo bishobora kubaviramo ibindi bibazo bikomeye.

Iyo Leta ishyizeho ingamba zitandukanye mu kwita ku buzima bwa muntu by'umwihariko bwo mu mutwe, ingano y'urupfu cyangwa se abantu bapfaga buri mwaka, igenda igabanuka bitewe n'ingamba bashyizeho no kwita ku bantu, ingano urupfu rwabagaho igabanuka ku kigero cyo hejuru cyane.

Ubuzima bwo mu mutwe ni ingenzi cyane kuko tutameze neza nta gikorwa na kimwe twakora, ni iyo mpamvu no mu mashuri hari abanyeshuri baba baragenewe kwiga ibijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe, bakabigiraho ubumenyi buhagije kugira ngo na bo bazabashe gufasha abandi.

Abana bakiri bato, abageze mu za bukuru, urubyiruko, ndetse n'abandi badakuze cyane, bahuriza hamwe kugira ngo bige ibijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe. Leta ishyiraho gahunda yo kuba bahabwa amahugurwa atandukanye, y'uburyo bakita ku bantu bafite icyo kibazo, ndetse n'ubutabazi bw'ibanze babahereza, n'ibimenyetso biranga uwo muntu.

Buri mwaka haba umunsi mpuzamahanga wo kwita ku buzima bwo mu mutwe. Burya kugira ubuzima bwo mu mutwe bwiza ni ingenzi cyane kuko ni byo ibintu byose bituruka, ibikorwa dukora bya buri munsi, uko tubayeho bigenwa n'ubuzima bwacu bwo mu mutwe. Ni iby'ingenzi cyane ko tuwuzirikana kugira ngo twungukirwe byinshi n'uburyo twakwita ku bantu bafite ikibazo cy'ubuzima bwo mu mutwe.

RBC, UNICEF ndetse na Leta y'u Rwanda, buri mwaka bizihiza umunsi Mpuzamahanga wo kwita ku buzima bwo mu mutwe, ni ukugira ngo tubashe twese kubigiramo uruhare mu kwita ku buzima bwo mutwe bwa buri muntu wese kuko ari iby'ingenzi cyane, bigira uruhare rutandukanye mu iterambere ry'igihugu.

Iyo twitaye ku buzima bwo mu mutwe ku muntu ugaragaje impinduka bigira ingaruka nziza cyane kuko bimurinda kwiheba n'agahinda gakabije aho usanga yikunze, nanone bituma buri wese yumva anezerewe mu kubaho, nanone bituma abantu bahorana akamwenyu gatandukanye n'uko bari bameze bagifite ikibazo.

Kwita ku buzima bwo mu mutwe, ni ingenzi cyane. Niyompamvu usanga icyo kibazo buri wese yakigize icye, Ibigo bitandukanye nka rbc, usaid, n'ibindi, biteramo inkunga kugira ngo icyo kibazo kibashe kuba cyakemurwa. Ni ikibazo gishobora gufata buri umwe wese, aho yaba ari hose. Niyompamvu abantu bahabwa amahugurwa, kugira ngo babimenye amakuru yimbitse kuri ubwo burwayi.

kwita ku buzima bwo mu mutwe ni ibya buri wese niyo mpamvu ikigo gishinzwe ubuzima mu rwanda cyitwara rbc gifata iya mbere mu kwizihiza umunsi mpuzamahanga w'ubuzima bwo mu mutwe ishyiraho iyo gahunda igatanga amahugurwa atandukanye iyo twakwita ku bantu bagaragaje ibimenyetso iyo bikozwe neza bituma abantu birinda na none bigabanya impfu bitewe no kwiyahura.

Hari Ikigo mu Rwanda gishinzwe ubuzima bita RBC, icyo kigo gishinzwe kubungabunga ubuzima bwa buri muntu wese utuye igihugu. Ni cyo gishinzwe gutanga inkingo, gutanga imiti, gutanga ubujyanama ku bintu bitandukanye. Na none iyo haje nk'icyorezo cyangwa indwara yadutse, ni cyo gifata ingamba kigashyiraho ibintu bitandukanye twakora kugira ngo twirinde.

Iyo hariho icyorezo cyandura binyuze mu matembabuzi cyangwa se mu mwuka ni iby'ingenzi ko dushyiraho ingamba zo kukirinda, harimo kwambara udupfukamunwa mu gihe turi kuganira n'abandi, ibyo bituma ya matembabuzi adasohoka ngo agere ku bandi, nanone nimba ari twe turwaye ntitubanduza cyangwa se iyo aribo barwaye ntabwo batwanduza ibyo biradufasha cyane kuko bitwongerera ubwirinzi.

Kwita ku buzima bwo mu mutwe ni ingenzi cyane. Iyo tutabikoze bigira ingaruka. Iyo umuntu agaragaje ibimenyetso ko hari ikibazo yagize, ni iby'ingenzi ko tubyihutira kubikurikirana. Bitabaye ibyo umuntu atakaza imitekerereze ye bikarangira nta kintu agishobora gukora. Ugasanga agiye mu muhanda, ntakibasha kwifurira, gukaraba cyangwa se kuba yagira aho ataha.

Mu Rwanda hari ibitaro byabugenewe by'umwihariko mu kwita barwayi bafite ikibazo cyo mu mutwe. Ni ibitaro iherereye ahantu bita i Ndera, bakaba babyita ''CARAES Ndera''. Ibyo bitaro byita ku barwayi bo mu mutwe cyangwa se abandi bafite ikibazo cyo kurwara umutwe cyane. Biba birimo impuguke mu bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe.

Kwita ku buzima bwo mu mutwe ni iby'ingenzi cyane. Iyo tutabyitayeho dushobora guhura n'ingaruka zitandukanye nko kwiheba, kwishyira mu kato, kumva tutari kumwe n'abandi kandi ibyo bintu bishobora kutugiraho ingaruka mu mitekerereze yacu ya buri munsi.

Ubuzima bwa muntu ni ingenzi cyane, ariko ubuzima bwo mu mutwe ho biba ari akarusho, kubera ko nibwo butuma dukora ibintu bitandukanye, bityo abajyanama b'ubuzima, abayobozi bakuru, abakora kwa muganga, bahabwa amahugurwa atandukanye y'uburyo bakwita ku buzima bwa muntu, bw'umwihariko bwo mu mutwe, kugira abashe kwitabwaho neza muri serivisi zose.

Ihohoterwa rishingiye ku gitsina rigenda rifata indi ntera niyo mpamvu Leta ifatanyije n'abayobozi

Kwita ku buzima bwo mutwe ni ingenzi cyane, ni yo mpamvu leta y'u Rwanda ifatanyije n'ibitaro n'abaganga bashyiraho amahugurwa bagahereza abantu ubumenyi butandukanye, ku bijyanye no kwita ku buzima bwo mutwe, batwigisha ibimenyetso biranga umuntu ufite icyo kibazo uburyo twamufasha ndetse bakanadukangurira kwihutira kujya kwa muganga igihe hari icyo kibazo.

Ubuzima bwo mu mutwe, ni ingenzi cyane ko tubyitaho, bityo tuba tugomba kugira amahugurwa dufata, kugira ngo tubashe kwita ku buzima bwacu bwo mu mutwe, twite no ku bandi, muri aya mahugurwa twigamo ibintu bitandukanye, bifasha abantu kumera neza, abafite ibibazo byo mu mutwe, cyangwa se abo uri kubona benda kubigira, na none twiga uburyo butandukanye, uburyo twarinda ubuzima bwacu.

Kwita ku buzima bwo mu mutwe bigira ingaruka nziza cyane ariko iyo utabikoze usanga umuntu wahuye n'icyo kibazo bimuviramo ibindi bibazo birimo kujya kuba ku muhanda akaba ameze nabi, akarwara indwara zitandukanye, nanone abasa nabi ku buryo buri wese aba yumva amugiriye impuhwe, ni byiza ko buri wese abigira ibye mu kwita ku buzima bwo mu mutwe.

Iyo uburwayi bwo mu mutwe bwarenze ubwenge bwa muntu, Birangira atakibasha kwiyitaho ndetse akava n'iwabo akajya mu muhanda. Ibyo biba byaratewe nuko ataba yaritaweho akigaragaza ibiminyetso niyo mpamvu abaganga baba bashinzwe ndetse natwe abaturage tugomba gufata iyambere niba umuntu agaragaje ibimenyetso tugahita tumujyana kwa muganga kugira ngo bamwiteho bamuhe ubutabazi bw'ibanze.

Abageze mu zabukuru nubwo baba batagifite imbaraga nyinshi ariko hari uturimo tworoshye bashobora gukora. Urugero: Ushobora kubashingira iduka aho bacuruza utuntu dutandukanye nk'aho batuye. Ibyo babikora bicaye bitabasaba gukoresha imbaraga nyinshi kandi rwose bibafasha kubona utuntu tw'ingenzi bakenera mu buzima bwabo bwa buri munsi, bitabasabye ko basaba Leta.

Umunsi Mpuzamahanga wo kwita ku buzima bwo mu mutwe, uba buri mwaka. Muri icyo cyumweru bakoramo ibikorwa bitandukanye, harimo ubukangurambaga, bwo kwita ku buzima bwo mu mutwe. Batanga amahugurwa y'ibimenyetso bitandukanye, bishobora kwerekana umuntu ufite icyo kibazo, ndetse n'uburyo bakoresha bamwitaho. Na none bakangurira abaturage niba habaye ikibazo, bagomba kwihutira kujya kwa muganga.

Kwita ku buzima bwo mu mutwe ni ingenzi cyane, ni yo mpamvu Leta y'u Rwanda igenda ishyiraho gahunda yo gushinga amavuriro ku bijyanye n'ubuzima bwowo mutwe, urugero hari ivuriro riherereye i Bugesera, aho ryashyizwe ku mugaragaro kugira ngo rijye rifasha abantu mu kwita ku buzima bwo mu mutwe.

Abayobozi b'ibitaro, abajyanama b'ubuzima bashyiraho gahunda yo gusura abaturage mu ngo zabo kugira ngo bamenye ibibazo bitandukanye bafite. Abaturage batanga ibitekerezo bisanzuye kuko nta nta mbogamizi cyangwa se inzitizi baba babona kuba babasanze iwabo, bituma bisanzura. Nanone bashakira hamwe ibisubizo by'ibibazo byaba bibugarije ndetse n'uburyo bumva babikemuramo.

Iyo umuntu yahuye n'ikibazo kimwangiriza ubwonko, bishobora gutuma ahungabana cyane, ugasanga ageze ahantu yiheba, akumva ari wenyine. Bigatuma rimwe na rimwe ajya ku ruhande akarira kubera ko aba yumva nta kintu akimaze, ni iby'ingenzi rero ko tubitaho n'ubwo baba afite ibimenyetso bitagaragara cyane.

Abayobozi b'ibihugu ndetse n'abandibi babifite mu bushobozi by'umwihariko abaganga, bagomba gushyiraho gahunda zitandukanye, kugira ngo bite ku uburwayi bwo mu mutwe. Iyo bitabaye ibyo, abantu bashobora guhungabana, bagahura n'ibibazo bitandukanye. Niyompamvu, Leta ishyiraho gahunda yo gutanga amahugurwa, kuganiriza abantu, kugira ngo barinde ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe.

Hari imiti igenda ikorwa kugira ngo irinde abaturage, muri iyo miti ifasha abantu kubaho neza, kandi iba yizewe uburyo iba yarakozwe, nanone hari amavuriro aba yarabigenewe kuyitanga, kugira ngo yite ku buzima bwa muntu, by'umwihariko kwita ku buzima bwo mu mutwe, nanone iyo hari icyorezo abaturage baba bagomba gufata ingamba kugira ngo bakirinde.

Uburwayi bw'amenyo, burahangayikishije cyane. Niyompamvu iyo bibaye ngombwa kwa muganga, bayakuramo bakayasimbuza andi. Icyo gihe biba byarenze urugero, kuko babona nta kindi gisubizo gihari, usibye gukuramo amenyo burundu. Gusa natwe ubwacu ibyo bintu twabyirinda, twumva ikimenyetso ku menyo yacu, twihutira kujya kwa muganga, kugira ngo badusuzume ndetse niba hari n'imiti baduha, bayiduhereza hakiri kare.

Kwa muganga haba hari ibikoresho byinsh,i no muriryo bikoresho hari akoresha twifashisha twita ku buzima bwacu bwo mu kanwa bareba uko amenyo yacu ahagaze, nimba harimo n'ikibazo kihutirwa babashe kugikemura bitararenga. Ibyo bikoresho rero ni iby'ingenzi cyane kandi n'abaganga babikoresha bagomba kuba barabihuguriwe kugira ngo bamenye neza uko babyitaho no kubikoresha.

Iyo twitaye ku buzima bwacu bwo mu kanwa, bitugiraho ingaruka nziza, bituma duhora tumwenyura kandi tukagira impumuro nziza, niyo mpamvu tuba tugomba kwihutira kujya kwa muganga mu gihe twumva mu kanwa hacu tameze neza, ibyo bizaturinda kurwara indwara zitandukanye ku buryo na twe zadutera ipfunwe mu bandi.

Kwita ku buzima bwacu bwo mu kanwa ni ingenzi cyane. Amenyo adufasha mu bintu bitandukanye kurya, gukanjakanja ibyo twariye. Na none bituma tugaragara neza mu bandi. Ni iby'ingenzi ko twita ku buzima bwacu bwo mu kanwa, niba tugaragaje ibimenyetso nubwo byaba ari bito, tukihutira kujya kwa muganga kugira ngo baduhehereze ubutabazi bw'ibanze ndetse n'imiti.

Kwita ku buzima bw'amenyo ni ingenzi cyane twifashishije imiti itandukanye, ni byiza ko twoza amenyo yacu kenshi gashoboka kugira ngo tuyarinde indwara zitandukanye zishobora kuzayafata.

Ni byiza ko niba dufite uburwayi bwo mu kanwa, dukoresha ibindi bikoresho bitandukanye byo kwa muganga kugira ngo bibashe kuturinda. Ibyo bituma tutagira indwara zitandukanye zishobora kwiyongeraho nyuma y'uko turwaye uburwayi bwo mu kanwa.

Ni byiza ko twegera abaganga mu bijyanye n'ubuvuzi bw'amenyo, bakareba byimbitse mu kanwa hacu uko byifashe, bifashishije ibyuma by'ikoranabuhanga birebamo imbere kugira ngo barebe neza niba nta kibazo dufite ndetse n'indwara, tubashe kumenya uko twayirinda.

Iyo byabaye ngombwa ko amenyo yacu yangirika, dushobora kwegera abaganga bakadufasha bagashyiramo andi mashyashya. Hari amenyo akorwa mu buryo bw'ikoranabuhanga ku buryo dushobora kuyasimbuza ayacu yangiritse, ariko nanone bakabikora bitaye ku bintu byose kuko baramutse batabikoze bishobora kutugiraho ingaruka.

Iyo twitaye ku buzima bwacu bwo mu kanwa amenyo yacu tukayagirira isuku bituma twishima, duhorana akamwenyu keza kandi tukagira impumuro nziza ku buryo buri wese yishimira kuvugana natwe, niyo mpamvu nimba twumva tutameze neza turwaye mu kanwa tuba tugomba kwihutira kujya kwa muganga kugira ngo badusuzume hakiri kare bitararenga bitararenga inkombe.

Kwita ku buzima bwo mu kanwa ni ingenzi cyane. Ni iyo mpamvu abarera abana cyangwa ababyeyi babo bagomba kubera urugero rwiza ku bijyanye no kwita ku isuku yo mu kanwa bakabigisha uburyo bakora isuku neza kandi bakifashisha ibikoresho byabugenewe.

Iyo umuntu agize ikibazo cyo mu kanwa akarwara amenyo, hakazamo ibibazo aba agomba kwihutira kujya kwa muganga kugira ngo bamusuzume barebe neza niba nta ngaruka bizamugiraho. Nubwo yaba ari mukuru cyane abona nta myaka asigaje kuzabaho, ni iby'ingenzi ko ibyo bintu abyitaho kuko ubuzima ni ubw'agaciro.

Iyo dufashe ingamba zihamye kandi zifite imbaraga z'ukuntu twita ku buzima bwacu bwo mu kanwa ndetse n'amenyo, bituma tumera neza cyane tukagira akamwenyu buri wese abasha kwishimira. Ni iby'ingenzi cyane rero ko tubyitaho, waba uri muto cyangwa uri mukuru, buri wese agafata ingamba z'uburyo yakwita ku menyo ye.

Kwa muganga iyo tugize ikibazo cy'amenyo cyangwa se uburwayi bwo mu kanwa, hari imashini n'ibindi bikoresho byifashishwa kugira ngo babashe kudusuzuma by'umwihariko, barebe nimba ntangaruka bizatugiraho kuba turwaye. Nanone bituma babasha kubona indwara yimbitse turwaye ndetse n'uburyo twayirinda. Ibyo bikoresho, bikoreshwa n'abantu babigenewe, bazi uburyo bikoreshwamo.

Kwita ku buzima bwacu ni iby'ingenzi cyane muri byo hakubiyemo no kureba ko nta kibazo dufite mu ndwara zo mu kanwa cyangwa se zishobora kuza bidutunguye. Kwa muganga hari yo ibikoresho bitandukanye byifashishwa kugira ngo bamenye neza uko ubuzima bwacu buhagaze, ese amenyo yacu yaba ari gukura, ese haba hari indwara yajemo, kugira ngo babashe kutwitaho baduhe n'imiti y'ingenzi yadufasha.

Amenyo yacu ni ingenzi cyane kuyitaho iyo tubikoranye ubushake kandi tubyitayeho bituma ahora asa neza cyane, hari udukoresho dutandukanye dushobora gukoresha ducisha mu menyo kugira ngo abashe gukuramo imyanda iba yagiyemo.

Uburwayi bwo mu kanwa buhangayikishije isi cyane, bugenda bufata abantu batandukanye kandi mu ngeri zose, gusa nubwo bimeze bityo, abaganga ndetse n'abandi babishinzwe bakora ubushakashatsi bwimbitse bifashishije ikoranabuhanga kugira ngo bavumbure uburwayi bushyashya ndetse n'uburyo babwirinda, hakoreshejwe imashini zikozwe mu ikoranabuhanga.

Ni iby'ingenzi ko buri muntu wese ku giti cye yifatira ingamba z'uburyo yarinda amenyo ye, ndetse no mu kanwa ke akoresheje ibikoresho bitandukanye, ibyo bizatuma agira mu kanwa heza, adahu agira impumuro nziza, nanone ntabangamire bagenzi be, nidufata ingamba buri wese ku giti cye akabarira mugenzi we aho abona bitagenda neza, bizaba byiza cyane.

Abana bato nubwo baba bataratangira kumera amenyo yose, ariko ni iby'ingenzi ko ababarera ndetse n'ababyeyi babatoza kwita ku isuku yo mu kanwa. Hari umuti ndetse n'utuntu twoza amenyo tuba twaragenewe abana bato bafite amenyo yoroshye kugira ngo na bo bige koza amenyo yabo.

Hari udukoresho dutandukanye twifashishwa kugira ngo yite ku buzima bw'amenyo, hari utuba dukora mu menyo yo hagati, kugira ngo dukuremo imyanda iba yagiyemo, ni iby'ingenzi ko buri wese abishyiramo imbaraga mu kwita mu kanwa he, kugira ngo atarwaye indwara ziterwa n'umwanda.

Abaganga bita ku buzima bwo mu kanwa cyangwa se bita ku menyo, baba bagomba kwita ku bantu bakorera, bakabagenzura barebe neza niba ibyo bakora bakurikiza amabwiriza baba bahawe. Ibyo bituma abo bakira babasha kwishimira serivisi babahereza ndetse bakabasha no gukira.

Ni byiza ko twese tubigiramo uruhare tukabigira ibyacu mu kwita ku ndwara zifata mu kanwa uburwayi bw'amenyo bugiye butandukanye. Ibyo bikorwa mu kwitabira amahugurwa agiye avuga ku bijyanye n'uburwayi bwo mu kanwa. Nanone niba turwaye tuba tugomba kwihutira kujya kwa muganga.

Ubuvuzi bw'amenyo bugenda butera imbere cyane, aho usanga hari impuguke zitandukanye ku buvuzi bw'amenyo. Na none iyo umuntu arwaye amenyo ku buryo aba atakibasha gukora neza, abaganga bafata umwanzuro wo kuyakura kugira ngo atazamuteza ibindi bibazo. Bashobora kumusimburizamo andi yakozwe.

Kwa muganga hari ibikoresho byinshi bitandukanye bishobora gukoreshwa kugira ngo bite ku buzima bwa muntu, harimo ibyifashishwa mu gukora massage cyangwa se kurambura imikaya y'umubiri kugira ngo ibashe kugaruka ku murongo aho yaba yaragize ikibazo, ibyo bituma hari indwara z'imitsi zibasha kuba zakira.

Ni byiza ko buri wese yita ku menyo ye, yaba akiri muto cyangwa ageze mu zabukuru, abaganga babihuguriwe bashobora kwita ku bana bafite ikibazo cy'amenyo kubera ko iyo abakiri bato amenyo yabo ashobora kuba yagororwa mu gihe yakuze atameze neza.

Abageze mu zabukuru n'ubwo baba bashaje, baba bakeneye gukoresha ibikoresho by'ikoranabuhanga kugira ngo bamenye aho i isi igeze; ibyo bituma bahuga kandi bakishimira ubuzima. Nanone abashinzwe kubitaho cyangwa se abaganga, babafasha kubikoresha neza mu buryo bwiza.

Abakuze hagati yabo bagomba kugaragarizanya urukundo bakerekana ko bitanaho. Nanone bagomba kuzirikana ku buzima bwabo ko ari ubw'ingenzi, bafata amafunguro atandukanye agizwe n'imboga cyane cyane ndetse n'imbuto kuko bizabafasha gukomeza kugira ubuzima bwiza nubwo bageze mu zabukuru.

Abakuze na bo baba gomba kwita ku buzima bwabo. Hakubiyemo kureba amafunguro bafata niba yujuje ibisabwa. Ifunguro ryuzuye riba rigizwe: ibitera imbaraga, ibyubaka umubiri n'ibirinda indwara. Na bo nubwo babakuze bagomba kubyitaho kugira ngo ubuzima bwabo burusheho kuba bwiza by'umwihariko bakarya imboga nyinshi kuko imboga ni ingenzi cyane mu buzima bwacu.

Abageze mu zabukuru ni iby'ingenzi ko na bo bihatira gukora imyitozo ngororamubiri, kugira ngo ubuzima bwabo burusheho kuba bwiza. N'ubwo baba bashaje ariko baba bagomba gukomeza kwiyitaho kugira ngo batazasaza imburagihe. Na none imyitozo ibarinda indwara zitandukanye nk'umuvuduko w'amaraso cyangwa umutima.

Abageze mu zabukuru, hari indwara zitandukanye zigenda zibataka kubera ko bashaje ariko nubwo bimeze bityo, hari imiti itandukanye ishobora kubafasha kwiyitaho ndetse bayihabwa n'abaganga babakurikirana ku buzima bwabo bwa buri munsi.

Abageze mu zabukuru bakomeza kwitanaho hagati yabo, iyo ari umugabo n'umugore bakiri kumwe, bagerageza kugaragarizanya urukundo nk'iyo umwe arwaye, undi akamufasha kubona imiti kandi akamwereka uburyo ayinywa nanone barafatanya mu gukora utuntu dutandukanye, bakigishanya mbese baba bagaragarizanya urukundo.

Nubwo abageze mu za bukuru baba bashaje, ariko bakeneye gukora imyitozo ngororamubiri ihwanye n'uko ubushobozi bwabo bungana. Bakora imyitozo ngororamubiri yoroshye kugira ngo ubuzima bwabo burusheho kuba bwiza. Ibyo babikora bafatanyije n'abashinzwe kubitaho ari bo baganga bakurikirana ubuzima bwabo bwa buri munsi kubera ko babizi, bazi ibyo bakeneye, niyo mpamvu babafasha gukora imyitozo ngororamubiri itangiza umubiri wabo.

Abageze mu zabukuru ni abantu beza cyane, bagira urukundo, bishimira gusangira n'abandi by'umwihariko bakagira urukundo abantu bakiri bato cyane, abana, gusa na none n'abo babakeneye kwitabwaho, kugira ngo barusheho kwishimira ubuzima.

Abageze mu zabukuru baba bakeneye kwitabwaho mu buryo ubwo ari bwo bwose. Ababitaho babahereza imiti itandukanye, ibafasha kwiyitaho, ndetse n'ubuzima bwabo bugakomeza bukagenda neza. Bagomba kuyifata neza, bagasoma amabwiriza, kugira ngo bitazabagiraho ingaruka, bayikoresheje nabi. Ni yo mpamvu ababafasha, bagomba kubafasha kubyitaho byose.

Abantu bakuze nubwo baba bageze mu zabukuru, ariko na bo baba bakeneye kwita ku buzima bwabo bwa buri munsi. Dushobora kubafasha gukora siporo, bagakora imyitozo ngororamubiri itandukanye, ariko nanone itabavunnye, kugira ngo bitangiza ubuzima bwabo. Harimo kugorora amaboko, amaguru, kurambura imikaya, imitsi; ibyo bizatuma nubwo baba barwaye, indwara zabo zitiyongera cyane.

Abageze mu zabukuru bashobora guhurira ahantu hamwe, bagakora uturimo tworoshye. na none iyo Leta ibona ko batakishoboye kuba mu rugo bonyine, ibashyira ahantu hamwe bakajya bitabwaho mu buryo bwihariye. Gusa n'ubwo baba bari aho ngaho, hari uturimo tworoshye bashobora gukora banaganira hamwe, bakarushaho kumva bishimiye ubuzima. Harimo nko kuboha utuntu tworoheje duke, udutebo cyangwa se uduseke, n'ibindi bintu bitandukanye.

Abantu bakuze nubwo baba bashaje ariko bagombaga gukomeza kugaragarizanya urukundo hagati yabo kugira ngo bakomeze kugira umuryango wishimye. Ibyo bituma basaza neza kugeza umunsi wa nyuma wabo ndetse n'abandi bituma, abandi bagize umuryango wabo bakomeza kubishimira.

Abakuze na bo bafite agaciro kenshi mu buryo bugaragara, abaganga baba bagomba kubitaho babagaragariza urukundo mu gihe bari kubavura bakabereka ko ari aba agaciro kenshi, ibyo bituma bisanzura ndetse n'iyo barwaye bagakira vuba kubera ko beretswe urukundo n'abaganga babavuye.

Abageze mu zabukuru baba bagomba kwitabwaho, bagahabwa ubuvuzi bwimbitse ku ndwara barwaye. Niyo mpamvu abaganga bashinzwe kubitaho, babereka urukundo bakagerageza kuba inshuti zabo kuko na byo birabafasha. Iyo bishimye uba usanga indwara nyinshi zitabafata kubera ko bahorana akanyamuneza.

Abageze mu zabukuru n'ubwo baba bashaje na bo ni iby'ibgenzi ko bakora imyitozo ngororamubiri kugira ngo babashe kwiyitaho. Ntago bakora imyitozo ikomeye, bagerageza gukora ihwanye n'imbaraga zabo kugira ngo barusheho kugira ubuzima bwiza.

Abageze mu zabukuru iyo basazanye ari umuryango uba ubona bishimishije, kandi bagerageza gukomeza kugaragarizanya urukundo hagati yabo. Bitanaho, iyo umwe arwaye afasha undi kugira ngo abashe kumera neza.

Abakuze tuba tugomba kubitaho mu buryo butandukanye, tukabereka urukundo, tukabishimira, tukaganira, na bo, nanone tuba tugomba kubereka uburyo ki bafata indyo yuzuye igizwe n'imboga ndetse n'imbuto kugira ngo babashe kumera neza.

Abageze mu zabukuru baba bagomba gufata amafunguro akomeza gutuma ubuzima bwabo bugenda neza; hakubiyemo agizwe n'imbuto, imboga ndetse n'ibindi bintu bitandukanye, bifasha gutuma ubuzima bwabo bugenda neza. Ni iby'ingenzi ko abaganga babitaho, bagomba kwita kuri ibyo bintu byose.

Abageze mu zabukuru bagomba kwitabwaho mu buryo bwihariye niyo mpamvu hari ibigo bimwe na bimwe usanga hari inzu zabugenewe babamo kugira ngo babiteho mu buryo bwimbitse, babitaho mu kubaha ibyo kurya byiza bakabamenyera amafunguro ya buri gihe niba yujuje intungamubiri, babagaragariza urukundo bakabaganiriza.

Abageze mu zabukuru n'ubwo baba bashaje ariko hari ibintu bimwe na bimwe, baba bakeneye gukora bituma banezerwa urugero nko gukina imikino itandukanye nk'igisoro, damu, ibyo bituma bishima bakanezerwa na twe iyo dukinnye na bo twunguka ubumenyi bugiye butandukanye kuko babafite ubunararibonye ndetse batugira inama z'uburyo twakwitwara muri iyi minsi.

Abageze mu zabukuru nubwo baba bashaje, ariko baba bagomba gukora imyitozo ngororamubiri ihwanye n'imbaraga zabo kugira ngo barusheho kugira ubuzima bwiza, bashobora gukora imyitozo yoroheje, urugero nko gusimbuka, guterura utwuma tutaremereye kugira ngo bibarinde indwara.

Abageze mu zabukuru baba keneye kwitabwaho buri munsi niyo mpamvu abashinzwe gubitaho aribo abaganga babaha imiti igiye itandukanye kandi bakabereka n'uburyo bayifata, babafasha kuyibona neza kandi bakareba neza niba bayinyweye kugira ngo babashe gukira biririnde n'indwara runaka baba bashaje ari yo mpamvu bakenewe gukurikiranwa.

Abageze mu za bukuru na bo bafite agaciro gakomeye, niyo mpamvu niba habaye inama y'abaturage cyangwa se hari ikibazo kivutse dushobora kubifashisha bakaduha inama. Nanone batanga ibitekerezo byiza cyane kuko babafite ubunararibonye mu bintu bitandukanye. Iyo tubahaye ijambo twunguka ibintu bitandukanye, nanone bashobora kutubwira amateka, ibintu byabayeho kera.

Abageze mu zabukuru baba bagomba kwitabwaho kugira ngo bagire ubuzima bwiza. Ni yo mpamvu hari ibyuma byifashishwa kugira ngo bapime uko ubuzima bwabo buhagaze, umuvuduko w'amaraso ndetse nuko umutima utera.

Abakozi iyo bitaweho mu buryo butandukanye, bituma bishimira ubuzima, bagasangira n'abandi, ndetse bakaganira nabo nta kibazo bafite bumva bisanzuye, na none ibyo bikubiyemo kubaha ibyo kurya byiza bifite intungamubiri, na none bagomba gukora na siporo kugira babashe kubaho neza.

Abageze mu zabukuru uba usanga barwaye indwara zitandukanye nk'umuvuduko w'amaraso cyane cyane, n'iby'ingenzi ko abaganga babitaho bagomba kubapima buri munsi kugira ngo barebe uko ubuzima bwabo buhagaze, niba hari icyiyongereyeho cyangwa se icyagabanutseho bamenye n'uburyo babarinda, bagomba kubikora mu buryo buhoraho kuko ubuzima bwabo burahindagurika uko bwije n'uko bukeyeye.

Abageze mu zabukuru nubwo baba bashaje ariko hari ibintu baba bagishoboye gukora. Hari imikino itandukanye bakina kugira ngo baruhure ubwonko bwabo ndetse bumve bisanzuye nta kibazo bafite, muri iyo harimo nk'igisoro, damu, amakarita ndetse n'indi mikino itandukanye, ibyo bituma bisanga mu bandi bakaganira nabo ndetse bakungurana ibitekerezo kuko babahaye umwanya wo kwishima.

Abageze mu zabukuru baba bagomba kwitabwaho, mu buryo bwihariye. Nta mbaraga baba bafite, zo gukora ibintu bitandukanye. Ni yo mpamvu abashinzwe kubitaho, babafasha gukora utuntu dutandukanye. Hari igihe uba usanga atakibasha no kugenda. Abo babitaho bagerageza kubafasha gutera intambwe, bakabagendesha gahoro gahoro, ndetse bakabahereza ibyo bakeneye mu buryo bworoshye, bitabasabye guhaguruka aho bari.

abageze mu zabukuru baba bakeneye abantutaho buzima bwabo bwa buri munsi barabafasha kugira ngo bakore utuntu dutandukanye kuko nta mbaraga bagifite bakene utugare two kugenderamo gusa ntabwo wakwifasha kudusunika niyo mpamvu aba bantu bashinzwe kubitaho bagerageza kubafasha uko bashoboye kubagezaho bagiye n'igihe babishaka nan nonene baberereka urukundo bakaberereka ko ari abo'agaciro babereka ko nta kibazo bafite

Abageze mu zabukuru nta kabaraga baba bgifite niyo mpamvu bakeneye abandi bantu babafasha kugira ngo babashe gukora utuntu dutandukanye nko kubyuka, kugenda, ndetse n'ibindi bintu. Iyo abo abantu babafasha babongerera imbaraga kuko bo ubwabo uko bagenda basaza imbaraga zigenda zibashiramo, abo bantu baba bagomba kubereka urukundo bakabereka ko ari ab'agaciro kugira ngo nabo babyishimire.

Abageze mu zabukuru ni abantu b'agaciro. Bagomba kwitabwaho bagakorerwa isuku bakambara neza. Ibyo bituma bumva ari ab'agaciro kandi nabo bakunzwe. Kandi na none birabashimisha iyo tuganiriye nabo tubakuraho ubumenyi butandukanye kubera bafite ubunararibonye ku bintu byinshi bibera hano.

Kwita ku buzima ni ibya buri wese n'abakuze na bo ibyo birabareba kuko na bo ubuzima bwabo ni ubw'agaciro, baba bagomba kurya imboga, imbuto kugira ngo bibarinde indwara kandi bakomeze kugira ubudahangarwa ku mubiri wabo nanone bagomba kwihata kubikubiyemo ibikomoka ku matungo ndetse n'ibyubaka umubiri, ibyo byose ni ingenzi cyane ko na bo babikora.

Leta ijya ishyiraho gahunda yo gupima abaturage bayo ku buntu, indwara zitandukanye ndetse bakanakingira. Urugero, umuvuduko w'amaraso, diyabete, umutima. Gusa ntabwo ari ibyo byonyine bihaba, bashobora no gutanga inkingo za epatite, indwara y'umwijima ifata abantu benshi muri iki gihe, barayicyingira ku buntu, kandi buri muntu wese aba yemerewe kujyayo.

Iyo abangavu batwaye inda bakiri bato bishobora kubatera ihungabana mu mitekerereze yabo, bityo usanga habaho ikibazo cyo gukuramo inda. Icyo kibazo kigenda cyiyongera uko bwije n'uko bukeye kuko n'inda ziterwa buri munsi. Gusa n'ubwo bimeze bityo leta iba igomba gushyiraho ingamba ku buryo yagabanya icyo kigereranyo cy'inda ziterwa abangavu ndetse no kuzikuramo.

Iyo haje ibyorezo byinshi cyangwa se ibyorezo runaka, Leta ishyiraho ingamba kugira ngo irinde abaturage bayo, muri ibyo rero hakubiyemo gutera inkingo buri muturage wese kugira ngo umubiri we ubashe kubaka ubudahangarwa no mu gihe azaba yatatswe n'icyo cyorezo umubiri uzabashe kwirwanaho, bityo ntazarembe ngo arware cyane, usange ahaburiye n'ubuzima.

Iyo haje icyorezo runaka, urugero nk'irezo cya Kovide, ni byiza ko abaganga bashyiraho ingamba zo kwirinda, bambara udupfukamunwa, uturindantoki, nanone igihe bagiye guhura n'abarwayi baba bagomba gushyiramo intera, ikindi abarwayi na bo bagomba gufata ingamba z'ubwabo kugira ngo birinde icyo cyorezo bitabagiraho ingaruka.

RBC nk'igihugu gishinzwe ubuzima mu Rwanda gishyiraho ingamba z'uburyo twakwiga indwara zitandukanye, muri zo harimo agakoko gatera SIDA. Ishyiraho ubuvuzi, gutanga imiti ku buntu ku bantu bafite ubwandu kugira ngo ibagabanyirize ubukana. Nanone itanga amahugurwa atandukanye ku baturage ku buryo bakirinda iyo ndwara y'ubwandu bwa SIDA.

Mu gihe cy'icyorezo cya kovide, hari ingamba twagombaga gufata kugira ngo tubashe kwirinda, harimo gukaraba intoki, mu gihe twiko dukora cya twitsamuye tugashyiraho agapfukamunwa cyangwa tugapfukaho inkono inkokora , na none tugomba gushyiramo intera hagati ya mu yacu na mugenzi wacu, gushyira mu kato umuntu wanduye, kwita ku biribwa ndetse no guhamagara mu gihe dufite ibimenyetso by'icyorezo.

Minisiteri y'ubuzima ifatanya n'abandi baterankunga batandukanye, urugero nk'abihayimana kugira ngo barusheho kwita ku buzima. Biyemeza gukora ibintu bitandukanye bafatanyirije hamwe, guhugura abaturage yaba mu nama, binyuze mu nyigisho batanga mu rusengero ndetse n'ibindi bintu bitandukanye. Ibyo byose bifasha abaturage kwita ku buzima bwabo bwa buri munsi.

Abaganga bakora mu cyumba cyo kubagiramo umurwayi baba bambaye imyambaro yihariye ibakingira kugira ngo batandura indwara cyangwa se ngo banduze umurwayi baba bipfutse mu maso, mu mutwe, umubiri wose ndetse n'intoki. Na none aho hantu haba hari amatara amurika neza kugira abashe kwita ku murwayi.

Leta igendaa ishyiraho ingamba zitandukanye kugira ngo irwanye igwingira mu baturage bayo, by'umwihariko abana bari munsi y'imyaka itanu kuko iyo bagize igwingira bibagiraho ingaruka mu myaka yabo barakuze, ikora buryo ki bwose kugira ngo yite ku buzima bw'umwana, uhereye bakimutwita kugeza agize imyaka itanu, hakubiyemo no gutanga ifu z'igikoma zujuje intungamubiri zose kugira ngo umwana atagwingira.

Agakoko gatera SIDA gahangayikishije isi cyane ndetse n'abayituye. Muri iyo gahunda rero, Leta ishyiraho uburyo butandukanye bwo kugira ngo irwanye iyo ndwara, harimo gutanga imiti igabanya ubukana, nanone igashishikariza abantu gukoresha uburyo butandukanye kugira ngo bayirinde byoroshye, harimo gukoresha udukingirizo ndetse no kwifata.

Ubwandu bw'agakoko gatera sida bugenda bwiyongera uko bwije n'uko bukeye, niyo mpamvu isi ifatanyije n'ibindi bihugu bitandukanye gushyiraho umunsi mpuzamahanga wo kwizihiza umunsi wo kurwanya sida, uwo munsi uberamo ibikorwa bitandukanye gupima, gutanga ubujyanama, ndetse bagahugura abantu ku bijyanye n'uburyo bakwirinda iyo virusi.

Minisiteri y'Ubuzima ndetse n'igihugu gishinzwe ubuzima mu Rwanda, bigira imikoranire ya hafi kugira ngo bifatanye mu kwita ku buzima bw'abaturage batuye u Rwanda. Hakubiyemo gushakira hamwe umuti w'indwara runaka, gushaka inkingo, kuvura ibyorezo ndetse no gutanga ubujyanama ku baturage.

Kanseri ni indwara ikomeje guhangayikisha isi cyane hari ubwoko butandukanye bwa kanseri tubona, hari kanseri ifata ibere, hari kanseri y'inkondo y'umura, hari kanseri ya porositate, kanseri y'umutima, kanseri y'ibihaha ndetse n'izindi zitandukanye, ni iby'ingenzi ko niba twumva hari ikibazo dufite kitamenetse neza mu mubiri, tuba tugomba kwihutira kujya kwa muganga kuko ushobora gusanga ari imwe muri izo kanseri.

Kugira ngo tugire ubuzima bwiza nuko dufata amafunguro yujuje ibisabwa, muri yo harimo imboga, imbuto, ndetse n'ibindi bintu byifashishwa, iyo tubifashe neza tugira ubuzima bwiza kandi bikaturinda indwara zitandukanye.

Indwara ya diyabete ikomeje kwibasira abantu batandukanye. Yaba abakuze, abatoya, ababyibushye cyangwa abananutse. Gusa hari ibimenyetso mpuruza bishobora kutwereka ko turwaye diyabete ku buryo twakwihutira kujya kwa muganga bakadusuzuma. Harimo kugira inyota, kujya kuri tuwarete ushaka kwihagarika, kutareba neza, kumva unaniwe ndetse no gutakaza ibiro mu buryo budasobanutse. Ni iby'ingenzi ko twihutira kujya kwa muganga mu gihe dufite ibimenyetso nk'ibyo bakadusuzuma.

Igihe icyorezo cya Covid cumi n'icyenda cyageraga mu Rwanda, Leta yahise ishyiraho gahunda yo gukingira abaturage bayo, bagiye bahabwa inkinngo zitandukanye bitewe n'ibyiciro barimo, gusa buri wese yagiye ahabwa inkingo eshatu cyangwa enye bitewe n'imyaka afite, iyo gahunda buri wese yagombaga kuyitabira kugira ngo twikingire iyo ndwara ninadufata umuribiri wacu ubashe guhangana na yo, ibyo byafashije abantu benshi.

Kubera ko ubuzima ari ubw'agaciro, ni iyo mpamvu Abayobozi b'Ibihugu yaba mu Rwanda ndetse no ku isi hose, bashyiraho umunsi Mpuzamahanga wo kwita ku buzima. Uwo munsi uba ku itariki makumyabiri n'esheshatu z'ukwa cyenda, kandi ni umunsi ngarukamwaka.

Iyo haje icyorezo by'umwihariko iyo gifite umuvuduko ukabije ku buryo cyakandura mu buryo bworoshye, abaganga n'abandi bantu bose bahakora (kwa muganga), baba bagomba gufata ingamba z'uburyo bakirinda, muri ibyo ngibyo hakubiyemo: kwambara udupfukamunwa, kwambara imyambaro ibarinda umubiri wose, kwambara uturindantoki kugira ngo batabasha kwandura mu buryo bworoshye.

Kwita ku buzima bw'umubyeyi utwite ni ibya buri wese, kuko aba atwite umwana uzavamo umuntu ukomeye mu myaka iri imbere, ni iby'ingenzi ko tubitaho by'umwihariko mu mirire yabo, uburyo babayeho ni iby'agaciro kenshi, bityo Leta ishyiraho amahugurwa y'uburyo twabitaho binyuze mu bajyanama b'ubuzima.

Ikigo bita Global Fund ndetse n'icyo bita Unitaid, bakoze amasezerano hagati yabo yo kongera imikoranire. Ibyo bizatuma abaturage bo mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere babona imiti mu buryo buboroheye, harimo iya HIV, Igituntu ndetse na Malariya. Ibyo bizatuma buri muturage wese n'ubwo yaba akennye, abasha kuyibona mu buryo bworoshye.

Igituntu ni indwara ishobora guterwa n'udukoko dutandukanye. Gusa iyo ucyisuzumishije hakiri kare, uhabwa imiti bityo warwara tugahita dukira. Ishobora kumara igihe kirekire ufata imiti ariko iyo uyifashe neza urakira.

Hari igihe haza ibyorezo bitandukanye. Hari icyorezo cyitwa Monkey Pox gishobora gutera abantu. Ni ubwoko bw'ibiheri biza ku mubiri ndetse birandura cyane. Ni iby'ingenzi rero ko dufata ingamba harimo gufata inkingo kugira ngo tubashe kucyirinda. Uyu munsi cyangwa se ubutaha, iyo dufashe urukingo bituma tugira ubwirinzi umubiri wacu ukabasha guhangana na cyo.

Mu gihe turwaye abaganga batwandikira imiti, kugira ngo ibashe kuturinda no kudukiza indwara, niyo mpamvu iyo turwaye bakayiduha tuba tugomba gukurikiza amabwiriza baduhaye, kandi iyo tubikurikije neza iradukiza, imiti iba yizeyewe ijana kw'ijana ko nituramuka tuyifashe nk'uko babitubwiye, iradukiza indwara turwaye, ni iby'ingenzi ko dukurikiza amabwiriza ya muganga, kandi tukihutira kujya kwa muganga mu gihe turwaye.

Mu Rwanda hagiye hari amavuriro atandukanye muri yo hari amavuriro aba yigenga aba yarashinzwe n'umuntu ku giti cye, gusa yose atanga serivisi nziza ku bijyanye n'ubuvuzi, nanone aba akorana n'ubwishingizi butandukanye kugira abantu bose babashe kujyayo kandi bahabwe serivisi nziza.

Kwa muganga haba hari ibyumba byagenewemo abarwayi barwarira. Ibyo byumba ubu usanga bifite isuku kandi bishashe neza. Na none uburyo ibitanda biba biteye bishobora kuba byavanwa ahantu hamwe bikajyanwa ahandi mu buryo bworoshye kuko biba bifite utuntu tubifasha kugenda.

Inyubako zo kwa muganga iyo bari kuzubaka bagomba kwita ku bintu bitandukanye hakubiyemo, isuku yaho, kureba neza nimba amatara yose arimo, mu gusakara bagomba kwita kuri buri nguni zose kugira ngo batazajya banyagirwa cyangwa se abarwayi bakavirwa n'izuba ryinshi nanone habagomba kuba hari isuku mu bitanda mo imbere aho abarwayi barwarira.

Umwana iyo akivuka, aba akeneye kwitabwaho mu buryo ubwo ari bwo bwose kuko iyo bidakozwe, bishobora kumugiraho ingaruka akuze. Niyo mpamvu abaganga bashinzwe kwita ku bana, bagerageza kubaha ibyo bakeneye, kubashyirana hafite isuku, hari ubushyuhe buringaniye, kureba ko nta zindi ndwara bafite. Na none baba bagomba kubakingira indwara z'ibyorezo ndetse n'izindi zitandukanye zishobora kubataka.

Mu nyubako zo kwa muganga aho abarwayi barwarira, haba hari ibitanda byabugenewe mu gihe umurwayi akenewe kwitabwaho by'umwihariko, ibyo bitanda cyangwa se aho abantu barwarira haba hagomba kuba hafite isuku, biteye neza ku buryo buri murwayi wese yumva nta kibazo yagira cyo kubiryamaho nanone haba hari imashini zitandukanye zikoreshwa kugira ngo bite ku buzima bw'abo barwayi.

Kwa muganga hari ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu buvuzi. Hari ibikoreshwa mu kuvura amaso. Amaso ni ingenzi cyane ku buzima bwacu kuko atuma dukora ibikorwa bitandukanye. Ni iyo mpamvu hari abaganga babizobereyemo, babyigiye bafite ubumenyi bwimbitse kuri iyo ndwara. Bifashisha ibikoresho bikozwe mu ikoranabuhanga ku buryo babasha kuvura umuntu ndetse iyo bibaye ngombwa bamuha amaso yandi kugira ngo abashe kureba neza.

Hari ikigo mpuzamahanga cya Afurika kiba gishinzwe kurwanya udukoko cyangwa se indwara ziva ku dukoko, zifata abantu cyangwa zigafata inyamaswa. Izo ndwara kubera ko ziba zihangayikishije ni iyo mpamvu icyo kigo kiba cyarashinzwe.

Kwa muganga hari ibikoresho byinshi bitandukanye bidufasha kumenya uko ubuzima bwacu buhagaze. Harimo ibyifashishwa mu kureba ubuzima bwacu bwo mo imbere nk'amagufa, inyama, amaraso uko bikora. Ibyo bikoresho ni iby'ingenzi cyane kuko bidufasha kumenya ibintu bitandukanye ku buzima bwacu, ibitagaragarishwa amaso kugira ngo babashe kuturinda.

Kwa muganga tuhasanga ibikoresho bitandukanye, byifashishwa mu buvuzi, hari ibikozwe mu ikoranabuhanga rihambaye, ku buryo babyifashisha bari kuvura indwara zikomeye, kureba mo imbere mu mubiri, kugira ngo barebe niba nta kibazo umuntu afite, ndetse n'uburyo babasha kumurinda, na none ibyo bikoresho kubera ko biba bikoreye mu ikoranabuhanga bisaba ko abantu babikoresha baba babifitiye ubumenyi buhambaye kuko bisaba ubumenyi.

Mu Rwanda dufite ibigo nderabuzima bitandukanye, bifasha gutanga serivisi zigenewe abaturage. Bigiye biri ahantu hatandukanye kugira ngo buri muturage abashe kubibona bimworoheye, ibyo bigatuma nta baturage bashobora kurembera murugo cyangwa se ngo bahapfire.

Hari ikigo gishinzwe kwita ku barwayi ba kanseri, aho usanga kanseri z'ubwoko butandukanye ariho zivurirwa, haba harimo abaganga babizobereyemo ku buryo babasha kwita ku murwayi byimbitse.

Ibigo nderabuzima cyangwa se ibitaro bikuru biba byubatswe mu buryo bwiza cyane, hari ibyapa bitandukanye biyobora abantu kuri buri serivisi yose bashaka hakubiyemo, ahaba imiti, aho basuzumira, aho batangira ibizami, aho barwarira ndetse n'izindi serivisi zitandukanye twasanga kwa muganga.

Abaganga ndetse n'abandi bafite aho bahurira n'ubuzima, bahora biga ibintu bishya, indwara zitandukanye zihora ziza, ni yo mpamvu bahora biteguye kwiga, bakora ubushakashatsi bwimbitse kugira ngo bavumbure indwara aho yaturutse, umuti wayo, ndetse n'uburyo twayirinda, ni iyo mpamvu baba bagomba guhora biteguye kwiga.

Kwa muganga hari ibikoresho bitandukanye byifashishwa kugira ngo tubashe kuba twamera neza, muri byo hari ibibasha kureba mo imbere mu magufa, mu nyama, kugira ngo umuntu amenye neza ko nta kibazo gihambaye afite, kandi n'iyo gihari biroroha kukibona nanone bikaba byoroshye kuba yabona uko bakirinda, bakabona n'imiti itandukanye yamufasha.

Mu nyubako zo kwa muganga dusangamo ibintu bitandukanye, hari aho abarwayi barwarira iyo barwaye indwara zituma baba mu bitaro. Muri ibyo bikoresho bakoresha harimo imashini zongerera umwuka abarwayi. Nanone haba hari n'isuku, ibyo bitanda bikoze mu ikoranabuhanga, ku buryo nta kibazo abarwayi bagira.

Hari inyubako zishinzwe gutanga imiti cyangwa se zabuhuguriwe, haba harimo abaganga bafitiye ubushobozi ku buryo baduhereza imiti. Izo nyubako wazisanga ahantu hatandukanye ku mihanda, haba ku mijyi ndetse no mu byaro. Izo nyubako ubu usanga harimo imiti itandukanye yaba ikozwe mu nganda, cyangwa se ikozwe mu bimera yose wayasanga.

Iyo abaganga bari gutunganya imiti yifashishwa mu kwita kubarwayi, bagomba kuyikorana isuku, ahantu hizewe kuburyo nta mikorobe cyangwa udukoko tutagaragrishwa amaso twahagera, nabo ubwo bagomba kuba birinze kugira ngo batayanduza bambara uturinda ntoki, uturinda munwa nanone bakambara ibintu bipfuka umubiri wabo kugira ngo batagira aho bahurira nayo ugasanga itakaje umwimerere wayo n'akazi yakoraga.

Ku nyubako zo kwa muganga haba hateye ibintu bitandukanye indabo, ibimera ndetse n'ibindi bintu. Ibyo bintu ni iby'agaciro cyane kubera ko iyo bihari bituma tubona umwuka mwiza hakaza ikirere kiza gisukuye, na none buri wese abasha kubonamo imiti itandukanye, na none hagomba kuba hubatse ku buryo buri wese abasha kuhagera bitamugoye.

Ibitaro bikuru cyangwa se ibigo nderabuzima biba byubatse neza cyane, hari inyubako zitandukanye kubera hakorerwa ibintu byinshi aho babyarira, aho basuzumira, ah'abagore, abashinzwe indwara zivura abana, abashinzwe kwita ku bizamini, abatanga imiti ndetse n'izindi serivisi. Ni yo mpamvu dusanga ibitaro ari binini cyane ku buryo hari inyubako ndende.

Abaganga iyo umurwayi abagannye, bikaba ngombwa ko aba mu bitaro, bamwitaho mu buryo ubwo ari bwo bwose. Bagerageza kumutera umiti, kugira ngo bamurinde, bakamwongerera umwuka iyo bibaye ngombwa. Na none bifashisha imashini, kugira ngo bapime umuvuduko w'amaraso we, uku umutima we utera, n'ibindi bintu bitandukanye. Abo baganga ibyo byose babikora babyitondeye, kandi bakabikora bishimye.

Inyubako zo kwa muganga ziba zubatse mu buryo bwiza kandi bwizewe, ku buryo ibirimo, ibikorerwamo, byose bitabasha kwangirika, nanone haba hizewe ku buziranenge bw'izo nyubako, ibyo bituma abahakorera bumva nta kibazo bafite, kandi bizeye umutekano waho bumva nta kintu bazaba.

Iyo winjiye ku nyubako zo kwa muganga, hanze haba hubatse neza, hari ubusitani ku buryo abantu batambuka nta kibazo. Na none haba hari ibyapa bigaragaza ibyo bahakorera.

Mu Rwanda hari ibitaro bitandukanye bishobora kwita ku buzima bwa muntu bwo mu mutwe, ariko by'umwihariko hari ikiba i Ndera bita Caraes. Ibyo bitaro bifite impuguke zitandukanye mu kwita ku buzima bwo mu mutwe bwa muntu, aho bibahereza serivisi zitandukanye kugira ngo babashe kwitabwaho.

Ni byiza ko Leta ishyiraho ingamba zitandukanye kugira ngo yubake amavuriro menshi ari ahantu hatandukanye, abantu bazajya babasha kugera aho biboroheye mu gihe bagize ikibazo cy'ubuzima, na none ayo mavuriro iyo ari hafi ntago abaturage babyarira mu rugo, barwarira mu rugo ngo barembe bigere n'aho babura ubuzima bwabo.

Mu nyubako zo kwa muganga, zubatswe mu buryo butangaje cyane. Hari aho batwakira iyo tukinjira ku bitaro. Badusaba ibyangombwa kugira ngo batwandike, hanyuma batuyobore n'ahandi hantu tugomba kujya, kugira ngo badusuzume indwara, cyangwa se nimba hari n'indi serivisi dukeneye. Nanone aho hantu, haba hari intebe, ku buryo abarwayi n'abarwaza baba bafite ahantu ho kwicara, nta kibazo bagira.

Kwa muganga hubatse ku buryo bwiza cyane, aho usanga hanze hashashe amapave, kugira ngo imvura nigwa hataza ibyondo, haraba harangwa n'isuku nyinshi cyane ku buryo n'aba baragenda baba bumva bishimiye kuba bahari, ibyo bituma nta ndwara zatuma zihagera cyangwa se ibindi bintu bitandukanye byaza nyuma y'uko hari ibitaka hasi.

Mu nyubako zo kwa muganga haba hari ibikoresho bitandukanye ndetse n'aho abakozi baho bakorera, uba usanga ari icyumba cyiza buri mukozi aba afite intebe ye ndetse n'akameza ke n'ibikoresho yifashisha mu kazi, ibyo bituma babasha kwita ku barwayi ndetse bagahabwa ibyo bagakwiye kubona neza nta kibazo.

Leta y'u rwanda ifatanyije na Minisiteri y'Ubuzima, bagenda bubaka ibigo nderabuzima ahantu hatandukanye kugira ngo buri muturage abashe kuba ahegereye ubuvuzi. Ibyo bituma nta muntu urembera mu rugo, ubyarira mu rugo cyangwa usanga hari abantu bapfiriye kuko batabonye ubuvuzi. Na none ibyo bigo nderabuzima usanga batanga serivisi zose z'ingenzi. Umuntu ajya ku bitaro bikuru iyo babona ko ari ingenzi.

Inyubako zo kwa muganga, iyo bari kuzubakaba baba bagomba kwita ku bintu bitandukanye, muri byo harimo gushyiramo ubusitani, aho abantu bazajya bicara, ndetse bakumva akayaga keza gasukura ikirere harimo n'ibiti byinshi cyane, iyo ibyo bikurikije ntago hazamo ubushyuhe, kandi buri wese yishimira kuba aho hantu, na none haba hagomba kuba hubatse uburyo hari isuku, buri wese yabasha kuba ari nta kibazo yagira.

Iyo haje icyorezo, by'umwihariko icyandurira mwuka, no mu mamatembabuzi ava mu kanwa no mu mazuru, ni iby'ingenzi cyane ko dufata ingamba buri wese ku giti ke, kwa muganga abaganga bagomba kuba bambaye uturindantoki, udupfukamuwa, bakambara n'utundi turinda mu mutwe. Na none abarwayi tubagana, tuba tugombako na twe kwirinda, kugira ngo tutagira indwara tuhakura.

Hari inyubako zitandukanye ziri hirya no hino. Haba ku mihanda, ku mijyi ndetse no mu cyaro. Izo nyubako ziba zirimo imiti itandukanye, twakenera mu buzima bwacu bwa buri munsi. Na none tuhasangamo amavuta twakoresha twita ku ruhu, ibikoresho byo kwa muganga, amafu y'igikoma ndetse n'ibindi bintu, na none haba harimo amasabune twakwifashisha twiyitaho. Muri make haba harimo ibikoresho dukeneye byose.

Abaganga bagomba guhora biga gukora ibikoresho bitandukanye bigenda bikorwa. Iyo bije ari bishyashya abafite ubwo bumenyi bafasha abandi kumenya uko babikoresha kugira nabo bazabashe gufasha abandi. Ibyo bituma buri wese agira ubumenyi butandukanye kandi bikorohera kuvura abantu.

Mu Rwanda kanseri na yo ikomeje gukaza ingamba, ni yo mpamvu tuba tugomba gukora uko dushoboye tugafata ingamba, muri izo ngamba leta yafashe harimo gushinga ibitaro bitandukanye, bishinzwe gupima ndetse no kuvura, indwara za kanseri z'ubwoko bwose.

U Rwanda rugenda rushyiramo imbaraga mu bijyanye n'ubuvuzi, aho rushyiraho ibigo nderabuzima bitandukanye mu mirenge cyangwa se mu tugari kugira ngo abaturage babone serivisi z'ubuzima. Izo serivisi bahabwa haba harimo ububyaza, gusuzuma indwara zitandukanye ndetse n'ibindi.

Hari inyubako zitandukanye ziba zirimo abantu babihuguriwe mu gucuruza imiti kandi babifitiye ubushobozi. Iyo miti iba ikozwe mu buryo butandukanye, hari ikorerwa mu nganda, hari indi ikozwe mu bimera. Muganga arayitwandikira nuko tukajya kuyifata kuri izo nyubako bayicururiza. Abantu baba bakoramo baba barabihuguriwe, babifitiye uburambe ndetse n'ubushobozi.

Mu nyubako zo kwa muganga hari ahaba harabugenewe gukoresha ibintu bitandukanye. Nanone haba hari ikicaro gikuru aho serivise nyinshi ariho uzisanga. Gusa nubwo bimeze bityo, no ku bitaro byo hasi haba hari serivise zitandukanye bashobora kubona.

Kwa muganga haba hari ibikoresho bitandukanye ndetse n'uburyo bubatse ni ahantu haba hizewe neza ko hafite isuku, nta kibazo twahagirira, haba hari imashini zitandukanye twakoresha mu kwita ku barwayi, izo mashini dushobora kuzikoresha dusuzuma ibizami dukora ubushakashatsi butandukanye, nanone abari ibitanda abarwayi bashobora kuvurirwaho.

Iyo abarwayi bitaweho bagahabwa serivisi zose zinoze, birabashimisha cyane kandi bigira uruhare mu gukira kwabo, bibongerera amahirwe yo gukira vuba. Haba habakubiyemo kubitaho, kubereka urukundo, gukoresha ibyuma byabugenewe mu kubavura, kuba bari ahantu heza hafite isuku. Ibyo byose bigira uruhare mu gukira kwabo kandi nabo bakishima.

Umwana ukivuka cyangwa se umaze igihe gito hano ku isi aba agomba gubwa ubuvu butandukanye hakubiyemo guhabwa inkingo, izo nkingo zimufasha kubaka umubiri we ukabasha kurwanya indwara zitandukanye mu gihe zaba zimuteye, na none bimufasha kwirinda kuzarwara mu gihe kiri imbere.

Kubera ko ubuzima bwa muntu ari ubw'ingenzi cyane hari amavuriro atandukanye mu Rwanda, ku isi hose. Usibye amavuriro ya leta, andi mavuriro aba yigenga, aho naho aduhereza ubutabazi bw'ibanze ndetse bakatwitaho ubuvuzi bwose twaba dukeneye na none batanga serivisi nziza ku buryo ziba zogeye abaturage.

Kwa muganga haba hari ibikoresho bitandukanye kugira ngo babashe kwita ku barwayi, na none haba hari ibitanda byiza cyane umurwayi aryamaho kugira ngo babashe kumwitaho, ibyo byose iyo bihurijwe hamwe umurwayi bitabwaho neza.

Inyubako zo kwa muganga haba harimo ibikoresho bitandukanye by'umwihariko bidufasha mu buvuzi, harimo imashini zitwongerera ubushobozi bwacu bwo kubaho, kugira ngo ubashe kumenya byimbitse uko ubuzima bwacu buhagaze.

Kwa muganga hariyo ibyumba bigiye bitandukanye tuhasanga, muri ibyo byumba harimo icyagenewemo kubagwa ndetse n'abantu bafite indwara yihutirwa iyo umuntu yakomeretse bikabije cyangwa se arembye cyane. Icyo cyumba bacyita Emergence room aho haba harimo inzobere mu indwara zitandukanye kuko haba hajemo abarwayi bafite indwara zimbitse zisaba ubuhanga buhambaye.

Kwita ku bageze mu zabukuru ni inshingano zacu twese. Gusa abaganga bafitemo uburambe ndetse babifitiye ubumenyi babazi ibintu bitandukanye bashobora gukoresha kugira ngo babiteho. Ni iby'ingenzi ko bashyiraho gahunda ihoraho yo gusuzuma ubuzima bwabo. By'umwihariko hari indwara zifata abakuze baba bagomba kwitaho. Urugero umuvuduko w'amaraso, umutima, diyabete, kanseri, ndetse n'indwara y'umwijima. Ibyo bintu baba bagomba kubisuzuma buri munsi.

Iyo haje icyorezo runaka urugero nka Coronavirus, Marburg ndetse n'ibindi, leta ishyiraho gahunda yo gukingira abaturage bayo, inkingo ziba zigenewe abantu bose yaba abakuze cyangwa abatoya zidufasha kongera ubudahangarwa bw'umubiri wacu kugira ngo niba icyo cyorezo kiduteye tuzabashe kurwana nacyo uko umubiri wacu uba wariyongereye ubudahangarwa.

Hari ibigo biba bishinzwe gufasha abantu bafashwe ku ngufu cyangwa se irindi hohoterwa rishingiye ku gitsina. Ibyo bigo usanga biri kwa muganga ku buryo baganiriza abo bantu ndetse bakabaha n'ubutabazi bw'ibanze.

Iyo winjiye ku bitaro bikuru urugero nk'iby'akarere, uba usanga ku marembo yabyo hari icyapa kigaragaza ibyo bakora. Icyo cyapa kiyobora abantu kugira ngo bamenye neza niba byo baje kwivuza aho hantu babikora neza. Nanone haba hari imiryango iyobora abantu.

Iyo ugeze kwa muganga, urebye uburyo hubatse, aba ari ahantu heza cyane, ku buryo bigaragaza ko bahutse babyitayeho, haba hari ibyumba byinshi bitandukanye, aho uba usanga bifite isuku, amatara, inzugi zaho zimeze neza, aho bavurira abarwayi, aho babasuzumira ibizami, aho bafatira imiti, ubwiherero ndetse n'ibindi bitandukanye.

Umwana aba agomba kwitabwaho mu bintu byose. Hakubiyemo gupima imikurire yiwe. Muri ibyo abaganga bagerageza gupima ibiro bye, buri mezi runaka, urugero nko buri mezi atatu, kugira ngo barebe nimba ari gukura neza. Bitewe n'uburebu afite, bagereranya n'ibiro afite, ku buryo bamenya niba ari mu mikorere myiza, cyangwa atari mu mikurire myiza. Ibyo bituma abaganga batanga inama ku babyeyi, bitewe n'ibisubizo babonye.

Kwa muganga hari ibikoresho byinshi bitandukanye, bituma tubasha kumera neza. Muri izo nyubako zo kwa muganga baba bagomba kureba neza niba hari agatanga umuyaga kugira ngo nihaza ubushyuhe, abarimo aho ngaho batabangamirwa. Haba habagomba kuba hitaruye, ku buryo buri wese abasha kuba yisanzuye mu gihe ari gusaba serivisi.

Mu bikoresho usanga kwa muganga harimo ibirebamo imbere, urugero nk'iyo umugore atwite bashaka kureba uko umwana ameze mu nda. Bakoza akantu kunda, ibindi bakabibonaho bakoresheje ibyuma by'ikoranabuhanga bakabona uko ubuzima bw'umwana buhagaze muri ako kanya. Na none haba hakubiyemo n'ibindi bikoresho by'ikoranabuhanga bitanga umwuka ku barwayi bawukeneye.

Mu Rwanda hari ibigo nderabuzima bitandukanye bigiye biri ahantu henshi kugira ngo abaturage niba bagize ikibazo biborohere kugerayo byihuse, harimo n'icyitwa Matyazo aho abaturage baturiye aho hantu babasha kubona ubutabazi bw'ibanze biboroheye hatabayeho ibindi bibazo ku buryo bashobora no kuhaburira ubuzima bwabo.

Mu nyubako zo kwa muganga, hari ahantu abarwayi barwarira, iyo bibaye ngombwa ko umurwayi bamwitaho mu bw'umwihariko. Icyo gihe ntago ataha iwabo, ahubwo asigara kwa muganga, bakajya bamukurikirana buri munsi, buri saha. Ibyo byumba biba biri ahantu hatandukanye. Gusa bigomba kuba bifite isuku, hari ibitanda byiza, hari inzitiramibu kandi hari amatara. Ku buryo umurwayi utaremba, bitewe n'uko ari umwanda.

Kwita ku buzima bw'abana ni iby'agaciro kenshi. Abana bagomba kwitabwaho bakerekwa urukundo. Bafatanyije n'ababyeyi babo, abaganga n'abandi babishinzwe. Bagomba kubatera inkingo kugira ngo babarinde indwara zitandukanye. Bagomba gupima imikurire yabo. Na none iyo umwana arwaye aba agomba kwihutanwa kujyanwa kwa muganga kugira ngo bamwiteho.

Kwa muganga iyo haje icyorezo, abaganga baba bagomba gufata ingamba z'uburyo bakirinda. Ibyorezo byinshi, usanga bigenda mu matembabuzi, mu mwuka; ni yo mpamvu abakora kwa muganga baba bagomba kwipfuka ahantu hose. Bakambara umwenda udakwirakwiza icyo cyorezo, bakipfuka ku munwa, mu maso, mu mutwe, intoki, mbese ibice byose bipfutse, kugira ngo batagira aho bahurira na cyo.

Hari inzu zabugenewe zishinzwe gutanga imiti ahantu hatandukanye. Haba hari imiti hafi y'ubwoko bwose bw'indwara zitandukanye. Ayo mazu akorana n'ubwishingizi butandukanye buri mu Rwanda. Nanone bafasha abantu kubona imiti mu buryo buroheye, kuko uba usanga ayo mazu ari ahnatu hatandukanye.

Hari ibitaro bigiye biri ahantu hatandukanye. Muri byo hari ibitaro biba bihagarariye akarere kose, aho usanga indwara zitandukanye izananiranye ari ho bazivurira. Haba inkeragutabara, abaganga babihuguriweho b'inzobere mu buvuzi ndetse indwara nyinshi ni ho zivurirwa n'ibizamini bitandukanye ni ho byoherezwa kugira ngo bisuzume.

Abaganga uba usanga hari icyumba cyabugenewe bakoreramo ubushakashatsi bigiramo ibintu bitandukanye kandi muri icyo cyumba haba harimo ibikoresho byose bakwifashisha kugira ngo bige ku ndwara runaka, icyayiteye ndetse n'uburyo yavurwamo. Nanone abanyeshuri bashobora kuhaza kuhigira.

Kwa muganga tuhasanga inyubako zitandukanye, muri izo nyubako harimo ibikoresho byinshi byifashishwa mu kwita ku barwayi, uba usanga harimo aho bata imyanda, aho bakarabira intoki, ahumutsa, utwo bihanagurisha ndetse n'utundi dukoresho dutandukanye, na none haba hari ibitanda byiza cyane bikozwe mu ikoranabuhanga, ibyo bitanda bishobora kugenda hakoreshejwe amapine.

Kwa muganga haba hari inyubako zitandukanye, gusa muri izo nyubako ziba zubatse mu buryo bw'igitangaza cyane, hari aho abarwayi bicara nanone hari intebe umuntu ashobora kwicaramo zikaba zamuvura bitewe n'uburyo zubatsemo mu ikoranabuhanga, bashobora kuzifashisha basuzuma indwara zitandukanye umuntu yaba arwaye kandi baba bizeye neza ko ari bukire.

Abageze mu zabukuru ni abagaciro kenshi. Ni yo mpamvu Leta ishyiraho gahunda itandukanye yo kugira ngo ibiteho. Ishyiraho gahunda yo kubasuzuma indwara zitandukanye nk'umuvuduko w'amaraso n'izindi. Ibyo bituma nimba hari indwara babona bafite babona uko babitaho hakiri kare bitararenga inkombe, batakibonye uburyo babasha kubasuzuma no kubitaho. Ibyo birabafasha kandi bikabongera iminsi yo kubaho.

Iyo tugiye kwa muganga gusaba serivisi cyangwa kwivuza tuba twizeye neza ko bari butwakire mbere na mbere baduhereza ahantu twicara, hari intebe nziza kandi bafite isuku hari akayaga keza kandi batwitaho rwose tubatwizeye neza ko nitugera kwa muganga abaganga bari bubashe kudusuzuma indwara bakatuganiriza ndetse bakabasha no kuduha imiti.

Ababyeyi babyaye baba bagomba gukomeza kwitabwaho, kugira ngo babashe kugira ubuzima bwiza, iyo umubyeyi abyaye atakaza imbaraga nyinshi, ni yo mpamvu abaganga bagomba kubaba hafi kugira ngo babahe ibyo bakeneye bagire n'ubuzima bwiza.

Ababyeyi babyaye bagira ibyumba byabo byihariwe kugira ngo babashe kwitabwaho mu buryo butandukanye na none hari ibitanda byiza n'inzitiramibu ku buryo badashobora kurwara Malariya.

Abaganga batuvura ni abantu beza cyane. Iyo batweretse urukundo mu gihe batwitaho bituma ubuzima bwacu burushaho kumera neza n'ubwo twaba tubabara, ariko iyo batweretse ko batwitayeho bituma natwe twishima. Nanone kwa muganga tuba dufite ibikoresho bitandukanye, nk'ibipima umuvuduko w'amaraso ndetse n'uko umutima utera. Byose barabyifashisha kugira ngo babashe kutwitaho.

Kwa muganga tuhasanga ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu kwita ku barwayi, ibyo bikoresho nibyo bakoresha kugira ngo basuzume neza umurwayi kandi hari indwara ziba zitagaragarira inyuma ariyo mpamvu ibyo bikoresho ari ingenzi ko babikoresha.

U Rwanda rugenda rwongera ibigo nderabuzima kugira ngo rurebe neza ko ubuzima bwa muntu burushaho kuba bwiza, buri Murenge, buri Kagari uba usanga hari ikigo nderabuzima aho abaturage babasha kujya guhabwa serivisi z'ubuzima, batanga serivisi zitandukanye harimo kubyara, gutera inkingo, kwita ku bana, gutanga ubuvuzi bw'ibanze bushoboka.

Kwa muganga habari ibikoresho bitandukanye bifasha kwita ku barwayi muri byo hari byifashishwa mu gihe bari gukora cyangwa se bari kubaga umuntu bicana amatara afite urumuri rwimbitse kugira abashe kurerama imbere y'umuntu nta ndwara iba ihambaye yaba afite.

Mu bikoresho dusanga kwa muganga, hari ibyifashishwa mu kureba ubuzima bwo mu mutwe, urugero niba umuntu yakomeretse ariko bikaba biri mo imbere cyane cyangwa se arwaye umutwe batazi impamvu harimo nk'ibibyimba, ibyo bikoresho birifashishwa kugira ngo basuzume barebe neza niba nta kindi kibazo cyaba kirimo.

Ibigo Nderabuzima bifasha abaturage kubona serivisi z'ubuzima. Bituma iyo barwaye bihutira kujyayo kuko baba baturanye na byo. Uba usanga biri mu mirenge cyangwa se mu tugari aho batuye, ku buryo nta muntu warembera mu rugo ngo arware cyane. Iyo umuntu afite ikibazo yihutira kujyayo kuko aba ari hafi.

Nubwo hari amavuriro rusange ya Leta, hari n'aba yigenga ashinzwe kuduha serivisi zimeze neza kimwe n'izo kwa muganga hasanzwe; bose batwitaho, gusa aga ngaya yigenga aba akorana n'ubwishingizi runaka kugira ngo abashe kutwitaho. Na bo batanga serivisi nziza rwose nta kibazo kandi batwitaho mu buryo ubwo ari bwo bwose.

Kwa muganga tuhasanga ibikoresho bitandukanye byifashishwa kugira ngo bavure abantu, kuko hari indwara nyinshi zitabasha kugaragarishwa amaso ya muntu, bakoresha ibyo bikoresho kugira ngo babashe kubisuzuma. Nanone aho abaganga bakorera uba usanga ari ahantu heza, hari ibikoresho bitandukanye.

Kwa muganga haba hari abantu batandukanye bahakora, muri abo harimo abashinzwe umutekano, bakingurira abinjira n'abasohotse, ndetse bakareba neza niba nta kintu kibi cya kwinjira kwa muganga, ibyo bituma harangwa n'umutekano.

Abaganga bakoresha ibikoresho bitandukanye kugira ngo bite ku buzima bw'abarwayi, nanone ubwabo bahora bakora ubushakashatsi kugira ngo barebe ko bamenya ibintu bishyashya ku ndwara runaka maze babashe.

Kwa muganga tuhasanga ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu kwita ku buzima bw'umuntu, muri byo harimo imashini zireba mu mubiri mo imbere urugero nk'iyo umugore atwite kugira ngo barebe uko umwana ameze mu nda, imikurire ye ndetse niba nta kibazo yagize.

Kwa muganga cyangwa se izindi nyubako zitandukanye zikorerwamo ibintu byinshi, bagira sale cyangwa se inzu mberabyombi aho bahurira bagatanga ibitekerezo bakaganira ku bibazo bibugarije ndetse bagashaka n'ibisubizo byabyo, iyo nzu iba yubatse ku buryo ijyamo abantu benshi kandi buri wese aba yisanzuye, agatanga ibitekerezo harimo n'isuku ihagije.

Imyitozo ngororamubiri ni ingenzi cyane kuko idufasha kugira ubuzima bwiza, yaba abakobwa cyangwa se abahungu, buri wese biramureba kandi tuba tugomba kuyikora ku buryo imikaya y'umubiri wose ibasha gukora neza.

Abageze muzabukuru nabo ni iby'ingenzi ko bitabira imyitozo ngororamubiri. Ntago basabwa gukora imyitozo ndenga kamere kuko baba bafite intege nyeya gusa abashinzwe kubitaho bagerageza kubafasha gukora imyitozo ihwanye n'ubushobozi bwabo kugira ngo ubuzima bwabo burusheho kuba bwiza. Bituma indwara barwaye zidakomeza kubakomerera cyane.

Ubuzima bwacu kugira ngo bumere neza hasabwa ibintu bitandukanye, harimo gukora imyitozo ngororamubiri ihoraho, gufata amafunguro yujuje ibisabwa nk'uko igizwe n'imbuto, imboga, ibikomoka ku matungo, ibitera imbaraga n'ibindi nanone tuba tugomba gufata umwanya tukajya kwa muganga kwisuzumisha kugira ngo turebe uko ubuzima bwacu buhagaze.

Gukora imyitozo ngororamubiri ni byiza cyane birafasha kandi biturinda indwara zitandukanye, buri wese aba agomba kuyikora mu bushobozi bwe, ntago ari ugukora ibintu birenze ubushobozi bwacu cyangwa uko tungana, tu tugomba gukora siporo zingana n'ubushobozi bwacu n'imbaraga zacu, ubwo rero nta muntu ugomba gukora siporo ntanugomba kutayikora, twese turabyemerewe.

Siporo ni ingenzi cyane ku buzima bwa muntu yaba abakuze, abatoya, urubyiruko ndetse n'abandi, niyo mpamvu usanga leta yashyizeho gahunda yo gukora siporo rusange nka rimwe mu kwezi cyangwa se rimwe mu byumweru bibiri. Barahura bagakora siporo bakirukanka ahantu hatandukanye, kuri uwo munsi haberaho n'ibindi bikorwa byo gupima indwara zitandukanye nk'umuvuduko w'amaraso, umutima ndetse na diyabete.

Amazi ni ingenzi mu buzima bwacu, kuko ari bimwe mu bigize umubiri wacu, kandi atuma umubiri wacu ukora neza cyane. Ni iby'ingenzi ko tuyanywa kenshi gashoboka, kugira ngo umubiri wacu utuhamagara. na none iyo twagiye mu imyitozo ngororamubiri dutakaza amazi menshi bitewe n'uko twirukanse tugatakaza amazi, ubwo rero tuba tugomba kugerageza kongera kuyankwa, kugira ngo umubiri wacu utaza kumagara.

Hari imyitozo ngororamubiri itandukanye twakora kugira ngo ubuzima bwacu bugende neza, harimo kurambura imikaya, kwirukanka, guterura ibintu biremereye kugira ngo imikaya yacu ikomere, gukina umupira ndetse no gukina ibintu bitandukanye, tugasimbuka kugira ngo amaraso abashe kugera mu bice byose bitandukanye.

Hari ibikoresho bitandukanye dushobora gukoresha mu gihe twakomeretse cyangwa twangiritse tukavunika igihe turi mu myitozo ngororamubiri cyangwa se turi kwirukanka mu marushanwa turi gukina umupira. Iyo miti iradufasha gukira urugero nk'imvune cyangwa igikomere. Ni iby'ingenzi ko twihutira kujya kwa muganga kugira ngo baduhe ubutabazi bw'ibanze.

Imyitozo ngororamubiri igira uruhare mu mubiri wacu, iyo tuyikoze neza kandi bihoraho, bituma amaraso atembera neza, biturinda indwara z'umutima, umuvuduko w'amaraso by'umwihariko n'umubyibuho ukabije. Hari ibikoresho bitandukanye twifashisha, kugira ngo tuyikore neza, na none tuba tugomba kuzirikana kunywa amazi, kuko ni ibintu bibiri bigomba kujyanirana.

Hari imiti itandukanye dushobora kwifashisha kugira ngo ubuzima bwacu bukomeze kugenda neza, hari idufasha kubaho neza, kurambura imitsi nanone iyo twakoze imyitozo ngororamubiri, hari igihe dushobora gukenera imiti kugira ngo ubuzima bwacu bugaruke ku murongo.

Abaganga bifashisha ibikoresho bitandukanye kugira ngo babashe kuvura abarwayi, harimo kwambara udupfukamunwa, uturindantoki ndetse n'imyambaro yabukenewe n'ibindi bikoresho.

Imyitozo ngororamubiri ni ingenzi cyane kuyikora kenshi gashoboka gusa nanone tugomba kwita mu kunywa amazi menshi ahagije, iyo turimo mu myitozo dutakaza amazi menshi kuko iyo turi gusimbuka cyangwa kwirukanka tubiria ibyunzwe.

Ubutabazi bw'ibanze ni ingenzi cyane kuko budufasha ibintu byinshi, muri byo hari agakapu bagendana kaba karimo ibikoresho by'ingenzi bitanga ubutabazi bw'ibanze, haba harimo imiti itandukanye, imikasi, sanitayiza, uturindantoki, inshinge ndetse n'amapamade yakwifashishwa mu gihe umuntu avunitse, ni iby'ingenzi ko abantu bashinzwe ubutabazi bw'ibanze, ako gakapu batagomba kugasiga.

Imyitozo ngororamubiri ni ingenzi ku buzima bwacu bwa buri munsi, twese tuba tugomba kuyikora. Yaba abakobwa abasore abagabo, abagore ndetse n'abashaje n'abana. Tugomba kuyitabira kuko iyo tuyikoze neza iturinda indwara zitandukanye. Hakubiyemo umubyibuho ukabije, indwara z'umutima, kuziba kw'imitsi, ibyo byose iyo tubikoze neza tugira ubuzima bwiza cyane.

Hari ibintu bitandukanye nshobora gukora kugira ubuzima bwacu tumenye neza ko bumeze neza, harimo gukora imyitozo ngoramubiri bihoraho kurya amafunguro arimo imbuto ndetse n'imboga, kunywa amazi menshi buri munsi nanone tuba tugomba gushyiraraho gahunda ihoraho kujya kwa muganga kwisuzumisha kugira ngo batugire inama uko twakwitwara ku buzima bwacu bwa buri munsi.

Iyo imikaya yacu itari gukora neza, twifashisha abaganga babyigiye kugira ngo babashe kuyigarura ku murongo nanone barambura imitsi kugira ngo ibashe gukora neza.

Iyo tugikora imyitozo ngororamubiri buri munsi kenshi, imitsi yacu irarambuka igakura neza, bityo amaraso akinjira akajya ahantu hose hatandukanye. Nanone asimburanya n'ayanduye ndetse n'atanduye, bityo umubiri wacu ugakora ibintu bitandukanye byinshi, kubera siporo tuba twakoze.

Hari abantu babihuguriwe mu bijyanye n'imitsi cyangwa se ubuzima bwa muntu, aho niba twifuza gukora siporo cyangwa se imyitozo ngororamubiri dushobora kubegera bakatwitaho kuko baba bazi byimbitse icyu umuhiro wacu ukeneye n'igihe tubikeneye, n'iyo mpamvu twegera aba abantu bayuguriwe bakadufasha gukora imyitozo ngororamubiri mu buryo bwiza.

Iyo kwa muganga bari kubaga umuntu, hari icyuma kiba gikonegitinze n'umutima we ndetse n'ukuntu umubiri uri gukora, ibyo byose babikora bari kujya bareba uko umuvudu w'amaraso uri kugenda, uko umutima we uri kugenda, kugira ngo hataza kubaho ikibazo batabyiteguye. Ibyo bakora byose bari kureba kuri cya cyuma, kugira ngo hataza kubaho ikibazo runaka.

Hari imiti itandukanye dushobora kwifashisha mu gihe twumva umubiri wacu utameze neza, cyane cyane nk'aho amagufa ahurira iyo twavuye muri siporo dushobora kumva yatandukanye cyangwa se hari ukuntu bitameze neza. Ni iby'ingenzi ko twifashisha iyo miti ikaba yadukorera ubutabazi bw'ibanze tukumva amagufa yongeye gusubirana ndetse n'uburibwe bugashira.

Hari uburyo butandukanye twakoresha dukora imyitozo ngororamubiri, harimo kurambura imikaya y'umubiri wacu, iyo tuyirambuye bituma imitsi irambuka ndetse amaraso akagera ahantu hose hatandukanye mu bice by'umubiri, umutima ugakora neza; nanone tuba tugomba gukora siporo zigorora umutwe, ku buryo n'imitsi yo mu mutwe na yo ibasha gukora neza nta kibazo, amaraso akagera mu bwonko.

Hari imiti ishobora kwifashishwa kugira ngo irinde imikaya yacu kubabara, iyo twakoze siporo dushobora kugira ububabare nyuma yaho. Iyo miti ishobora gukoreshwa gukora massage ku mikaya, aho amagufwa ahurira cyangwa se mu mugongo. Igihe twumva harimo uburibwe, iyo miti iradufasha cyane kuko ihagarika uburibwe.

Agakapu karimo ibikoresho by'ubutabazi bw'ibanze, ni iby'ingenzi ko buri rugo, ahantu hurira n'abantu benshi, ndetse n'ahandi hantu hatandukanye bagomba kuba bagafite, kuko kaba gakubiyemo imiti. Na none bagomba gusuzuma ko, ibikoresho byose bigomba kuba birimo byagezemo, kuko byose ni ingenzi mu gihe gitandukanye, bitewe n'icyo umuntu arwaye cyangwa ikimufasha ako kanya.

Ni byiza ko niba turwaye indwara z'imitsi, twegera abaganga babigenewe kugira ngo badufashe mu kugorora iyo mitsi no kuyirambura. Ibyo bituma amaraso atembera neza mu mubiri kandi bikaturinda indwara.

Abageze mu za bukuru nta mbaraga zihambaye baba bafite ku buryo bashobora kugenda ahantu hatandukanye kandi kure, ni yo mpamvu hari inkoni zabugenewe zibafasha gukora urugendo, n'ubwo zitagenda ariko barasindagira bakagera aho bagiye biboroheye nta n'ikibazo bagize.

Hari imikino igiye itandukanye dushobora gukora bikadufasha gukora imyitozo ngororamubiri, urugero nku witwa rugubi aho twirukanka turi kurwanira umupira. Uwo mukino udufasha gukora imyitozo neza kuko umutima urakora cyane, ibihaha, ndetse amaraso akabasha gutembera mu bice byacu by'umubiri byose.

Hari ibintu bitandukanye iyo bihurijwe hamwe bituma ubuzima bwacu bugenda neza. Muri byo harimo imyitozo ngororamubiri ihoraho kunywa amazi ahagije kandi buri munsi. Na none ntibigarukira aho ahubwo tuba tugomba kwita ku mafunguro dufata agomba kuba agizwe n'imboga n'imbuto bikomoka ku matungo na none harimo n'ibitera imbaraga ibyo byose bituma ubuzima bwacu bigenda neza.

Mu masaha agize umunsi, tuba tugomba kugira umwanya wa siporo, umwanya wo gusenga, umwanya wo kuruhuka ndetse n'umwanya wo gukora ibindi bintu bitandukanye. Muri siporo dukora, hakubiyemo ibintu byinshi. Harimo kwirukanka, kurambura amaboko, kurambura imikaya ndetse n'izindi zitandukanye. Byose tuba tugomba kubyitaho kuko byose bigaruka ku bwonko bwacu, bikabugiraho ingaruka.

Ubuvuzi bugenda butera imbere cyane mu buryo butandukanye. Hari utudege twakozwe tutagira abashoferi kandi tuba ari duto cyane. Utwo tudege dutwara amaraso yifashishwa mu kwita ku barwayi, tuyobowe n'abantu bakoresheje ikoranabuhanga. Tuyajyana aho bayerekeje kugira ngo babashe gutabara ubuzima bwa muntu. Ubuzima ni ubw'agaciro, niyo mpamvu Leta ishyiramo imbaraga mu buryo ubwo aribwo bwose.

Amazi ni ingenzi cyane mu buzima bwacu, buri wese aba agomba kuyanywa uko yaba angana kose, kuko umubiri urayakenera gukora ibintu bitandukanye, igogora, kuyungurura, gukura imyanda mu mubiri. Na none amazi afasha mu kurinda umubiri kuba wakumagara.

Gukora imyitozo ngororamubiri ni iby'ingenzi cyane. Biraturinda indwara zitandukanye umuvuduko w'amaraso, kuziba kw'imitsi, umutima, diyabete ndetse n'umubyibuho ukabije. Ni iby'ingenzi rero ko tubizirikana nubwo twaba dufite akazi kagoranye, gushaka umwanya muto tugakora imyitozo ngororamubiri biradufasha cyane.

Imyitozo ngororamubiri ni ingenzi cyane kuko ituma ubuzima bwacu burushaho kuba bwiza, iyo twabigize akamenyero iturinda indwara nyinshi nk'umuvuduko w'amaraso, diyabete, umubyibuho ukabije ari wo nkomoko y'ibindi bibazo byose, buri wese agomba kuyikora kandi abyitayeho akabigira nk'umuco, n'ubwo twayikora tuba tugomba kwibuka kunywa amazi nyuma yaho cyangwa mbere yaho kugira ngo umubiri wacu utumagara.

Ahantu habereye imikino rusange cyangwa hahuriye abantu benshi abagomba kuba hari n'abantu bashinzwe gutanga ubutabazi bw'ibanze hariduka bitwaza twadukubiyemo imiti hafi ya yose y'ingenzi yakwifashishwa urugero habaye nk'impanuka umuntu ageze isereri cyangwa akagira igicuri cyangwa se n'ubundi burwayi butandukanye iyo miti ibagomba kujyanwa byihutirwa.

Iyo abaganga bari mu cyumba babagiramo abarwayi, baba bagomba kuba barimo birinze, bambara uturinda ntoki, udupfukamunwa, uturinda mu mutwe, ndetse n'umwambaro munini ufuka umubiri wose kugira ngo batagira indwara bakura aho ngaho, cyangwa se iyo bafite bakaba bayandunza umurwayi bari kwitaho. Bita kubikoresho bari gukoresha bakereba ko neza bifite isuku, ndetse bifashishije sanitayiza cyangwa se umuti bakaraba kugira ngo babisukure.

Imyitozo ngororamubiri ni ingenzi ko tuyikora, gusa nanone tuba tugomba kwita ku bikoresho dukoresha iyo turi kuyikora, bigiramo uruhare kuko bituma igenda neza tubisanga muri zazu rusange zikoremo imyitozo ngororamubiri, haba harimo n'impuguke zishinzwe kuyikora.

Imyitozo ngororamubiri ni ingenzi cyane, harimo kurambura imikaya y'umubiri, kurambura imitsi ndetse no kugorora amagufa. Ibi bintu ni ingenzi cyane kuko bifasha umubiri gukora neza, amaraso akagenda ahantu hose nta kibazo umuntu ahuye na cyo, na none birinda indwara zitandukanye nk'umutima n'umuvuduko w'amaraso.

Gukora imyitozo ngororamubiri ni byiza cyane ariko n'ubwo twayikora tuba tugomba kuzirikana ko dukeneye kunywa amazi kugira ngo tugarure ayo twatakaje, iyo turi kwirukanka, iyo turi gusimbuka umugozi cyangwa gukina umupira dutakaza amazi biciye mu byunzwe, rero ni iby'ingenzi ko nyuma yaho twongera tukanywa amazi menshi cyane kugira ngo umubiri wacu utaza kumagara.

Imyitozo ngororamubiri ni ingenzi cyane, gusa tuba tugomba kuzirikana ko nubwo twayikora tuba tugomba kunywa amazi menshi ahagije, iyo turi mu myitozo ngororamubiri dutakaza amazi menshi binyuze mu kubirira byunzwe niyo mpamvu tuba tugomba kuyanywa kugira ngo asimbure y'ayandi yatakaye turi mu myitozo.

Imyitozo ngororamubiri ni ingenzi cyane ko tuyikora, uko twaba tungana kose ni byiza ko tubishyiramo umuhate kuko biturinda indwara zitandukanye nanone tuba tugomba kwihatira kunywa amazi menshi kuko iyo turi gukora imyitozo ngororamubiri turayatakaza.

Mu gihe turi gukora imyitozo, ntitugomba gukora ibintu bituma amaraso ashyuha. Tuba tugomba gufata akanya tugakora imyitozo ngororamubiri irambura imikaya, imitsi ndetse igakomeza n'amagufa. Iyo myitozo ituma amaraso atembera neza kuko imitsi iba yarambutse, amaraso akagera ahantu hose. Ibice byose by'umubiri, tuba tugomba kubikoresha kugira ngo bikore.

Hari ibikoresho bitandukanye byo kwa muganga byifashishwa kugira ngo umuntu arusheho kumera neza, iyo umuntu avuye mu myitozo ashobora gukomereka cyangwa akavunika, ni yo mpamvu kwa muganga haba abaganga babigenewe kugira ngo babashe kumwitaho, bamuhe ubutabazi bw'ibanze.

Gukomeza gukora imyitozo ngororamubiri ni ingenzi cyane, yababa ku bagore cyangwa ku bagabo, ariko na none tuba tugomba kwita ku kunywa amazi mu gihe tuyivuyemo, kuko bitugirira umumaro.

Kugirango umubiri wacu ubashe gukora neza, hasabwa ibintu byinshi. Muri byo harimo amazi. Ibikorwa byinshi bibera mu mubiri kugira ngo bibe ni uko haba harimo amazi ahagije. niyo mpamvu buri wese uko yaba angana aba agomba gufata amazi kandi ahagije.

Hari ibimenyetso bitandukanye dushobora kugira bikaba bitwereka ko umubiri wacu utameze neza. Harimo kurwara umutwe kenshi, kuruka bya hato na hato, kugira isereri, kurwara igicuri, kutareba neza ndetse ukumva buri gihe usa nk'unaniwe. Iyo dufite ibimenyetso nk'ibyo ndetse n'ibindi bitandukanye, ni byiza ko twihutira kujya kwa muganga kugira ngo badusuzume niba nta ndwara dufite.

amazi ni ingenzi cyane kuko adufasha kuba ubuzima bwacu bwarushaho kuba bwiza iyo tunyweye amazi menshi ahagije biraturinda indwara zitandukanye kuko umubiri wamagara naone twakoze imyitozo ngororamubiri dukenera kugorora amazi kuko tuba twayatakaje cyane cyane iyo turi kwirukanka nano tuba dukeneye kwiruhura tukayoga kugira ngo turuhuke mu Amazing ni ingenzi cyane kuko adufasha kuba ubuzima bwacu bwarushaho kuba bwiza, iyo tunyweye amazing menshi ahagije biturinda indwara zitandukanye kuko umubiri wumagara, nanone twakoze imyitozo ngororamubiri dukenera kunywa amazing kuko tuba twatakaje cyane cyane iyo twirukanka, nanone tuba dukeneye kwiruhura tukayoga kugirango turuhuke mu mubiri.

Hari abantu baba bashinzwe gukora ubutabazi bw'ibanze aho hakenewe urugero nk'antu habereye umupira, ahantu hahuriye abantu benshi; baba bafite agakapu gakubiyemo ibintu byose by'ingenzi byatuma atanga ubutabazi bw'ibanze, kaba karimo ibikenewe byose nka bande, imikasi, agatanga umwuka, ama ga ndetse n'ibindi bintu byose.

Imyitozo ngororamubiri ni myiza cyane, aho idufasha kwita ku buzima bwacu. Hakubiyemo gukora imyitozo ikomeza imikaya n'amagufa, bityo bituma amaraso yacu atembera neza. Na none iyo turambuye imitsi biturinda indwara zitandukanye nk'umuvuduko w'amaraso ndetse n'izindi nyinshi cyane.

Mu gihe habaye umupira w'amaguru, haba hagomba kuba hari abantu batanga ubutabazi bw'ibanze kuko igihe icyo ari cyo cyose hashobora kuba impanuka nko kuvunika, yewe bantu bahari bahita batanga ubutabazi bw'ibanze kugira ngo umukino ukomeze kandi n'uwo muntu babashe kumurinda, kuba yagirwaho ingaruka n'imvune yaba agize cyangwa se ukundi gukomereka kubaye ho.

Ni byiza gukora siporo zitandukanye, hakubiyemo kugorora imitsi, kurambura imikaya, gukora siporo zikomeza amagufa, kuko bituma ubuzima bwacu bugenda neza, na none tuba tugomba kubiha agaciro, kandi bikaba ibya buri wese, kuko waba unanutse waba ubyibushye twese biratureba.

Abageze mu zabukuru ntabwo baba bagifite imbaraga zo kujya ahantu hose, niyo mpamvu kwa muganga bakora udukoresho twabo bifashisha bari kujya ahantu hatandukanye, mu tugare bicaraho tukabafasha kugenda nta kibazo bagize, tubatera imbaraga kandi tugatuma bagera aho bifuza bose n'igihe babishakiye,.

Ni byiza ko turi gukora imyitozo ngororamubiri, hari igihe umubiri wacu cyangwa se imitsi bishobora kwikanga, ushobora gukoresha imiti yo kwa muganga kugira ngo yongere igaruke ku murongo.

Hari imyitozo ngoromubiri dushobora gukora kugira ngo ubuzima bwacu bumere neza nko guhagarara ku birenge, kurambura amaboko, kurambura imikaya nanone hari indi myitozo ushobora gukora kugira ngo nimba hari ikibazo twagize nk'imvune, ubuzima bwacu bwongere bugaruke ku murongo nko ku maboko cyangwa ku maguru.

Gukora imyitozo ngororamubiri ni ibya buri wese, yaba abagore cyangwa se abagabo, abakobwa n'abasore, twese bitewe n'ubushobozi bwacu, uko umubiri wacu ubasha kwihangana, tugomba kuyikora; kuko bitugiraho ingaruka nziza mu mikorere y'umubiri wacu, imikurire ndetse bikaturinda izindi ndwara zitandukanye, ziterwa no kudakora siporo.

Hari inyubako zitandukanye zidufasha gukora siporo no kwita ku buzima bwacu, izo nyubako ziba zifite ibikoresho bitandukanye, bidufasha gukora siporo zitandukanye bitewe n'izo dukeneye, kandi na none muri izo nyubako harimo abantu babihuguriwe kugira ngo badufashe kwita ku buzima bwacu, kugira ngo tugire ubuzima bwiza bwa buri munsi.

Iyo dukeneye ubuvuzi bwimbitse ku bijyanye n'umubiri wacu, dushobora gukora siporo .Ariko nanone iyo tubona siporo hari icyo itari gukora neza, twifashisha abaganga babifitemo uburambe, bakadukorera masaje cyangwa se kugorora umubiri, bifashishije intoki zabo n'amavuta yabugenewe. Ibyo bituma imitsi irambuka, amaraso agatembera neza, n'ibindi bice by'umubiri bigakora neza.

Hari ubuvuzi bwihariye buhabwa abantu bafite ikibazo cy'imitsi, babwita Physiotherapy, aho bagenda bagakorerwa masaje, bakabaramburira imitsi, bakabakorera ibintu bishoboka byose kugira imitsi yabo imere neza, bagakoresha siporo zitandukanye zo kurambura imitsi, nanone hari imiti babaha iba ishobora kubafasha mu kwiyitaho no kugira ngo amaraso atembere mu bice byose.

Iyo umuntu agiye kwa muganga bikaba ngombwa ko bareba mo imbere mu bice bigize umubiri we, bifashisha ibyuma byo kwa muganga bifite ubushobozi bwo kureba mo imbere kugira ngo barebe neza uburwayi bwe.

Ni iby'ingenzi ko buri wese abigira ibye mu gufata amazi ahagije mu mubiri. Amazi ni ingenzi kuko atuma umubiri wacu ukora neza, amaraso agatembera n'ibindi bigize umubiri bikabasha gukora neza. Byibura umuntu mukuru yagakwiye gufata litiro eshatu ku munsi kugira ngo umubiri we ubashe gukomeza gukora neza, bimurinde kumagara.

Imyitozo ngororamubiri, ni ingenzi cyane. Idufasha kuturinda indwara zitandukanye, gusa iyo tuyikora tuba tugomba kureba neza nimba ibice byose by'umubiri byakoze. Amaboko, amaguru, intoki, imikaya, amagufa ndetse n'ibindi. Ibyo byose, ni ingenzi ko tubyitaho kuko biradufasha cyane. Imitsi irarambuka, amaraso agatembera neza mu mubiri, nta kibazo kibayeho.

Gukora siporo ni iby'ingenzi cyane ku buzima bwacu. Niyo mpamvu abantu twese twagombye kwitabira. Twakoresha uburyo butandukanye harimo no guririra muri zanzu rusange aho zikorerwa ama siporo. Izo nzu habamo ibikoresho bitandukanye, nonene barimo impuguke zabihuguriwe ku bijyanye n'ubuzima ku buryo bashobora kudufasha gukora iyo myitozo neza.

Ubuzima bwacu bwa buri munsi dukora akazi gatandukanye, hari abo dukora twicaye, dukora ingendo zitandukanye ariko nubwo byose tubikora, tuba tugomba kuzirikana ko dukeneye siporo, iradufasha cyane, gutuma ubuzima bwacu burushaho kugenda neza, turambura amaguru, bituma imitsi yacu igenda neza, amaraso agatembera mubiri nta kibazo.

Kugira ngo tugire ubuzima bwiza bwizewe ijana ku ijana tuba tugomba gukora ibintu bitandukanye muri byo hakubiyemo gukora imyitozo ngororamubiri kunywa amazi ahagije gusa ibyo ntabwo biba bihagije tuba tugomba no gufata amafunguro yujuje ibyangombwa agizwe n'imboga n'imbuto iyo dufashe imbuto cyangwa se imboga biturinda ibibazo bitandukanye byongera amaraso nanone biturinda kwandura indwara za hato na hato.

Iyo twavunitse cyangwa se twahuye n'ubundi bubabare ku mubiri, hari imiti itandukanye ikozwe mu bimera, ishobora kudufasha mu kwirinda tukamera neza. Iyo miti tuyisanga mu maduka atandukanye kandi iba ikozwe mu buryo bwizewe ku buryo twabasha kuyikoresha nta kibazo.

Mu nzu rusange zikorerwamo imyitozo ngororamubiri, hari ibintu bitandukanye dusangamo by'ibikoresho, bidufasha gukora imyitozo yacu neza. haba bakubiyemo ibyo duterura, bifite imbaraga ku buryo tubyifashisha kugira ngo imikaya yacu ikomere. Hari ibindi birambura imitsi, nanone haba hari abatoza babigenewe kugira ngo batwigishe kubikoresha neza.

Abaganga baba bafite ubushobozi ndetse n'ubwenge buhambaye ku bijyanye n'ubuzima, twifuza gukora imyitozo ngororamubiri, bashobora kuduhereza ubujyanama bakurikije uko umubiri wacu umeze, ni byiza ko niba dutangiye gukora imyitozo ngororamubiri, tugomba kubegera bakadufasha kandi bakatwereka ibikoresho byiza twakoresha kugira ngo bizatugireho ingaruka nziza, ibyo iyo tubikoze umubiri wacu ukomeza gukora neza.

Hari uturindantoki twabugenewe dukoreshwa igihe abantu bari gukora imyitozo ngororamubiri. Utwo turindantoki dutuma bayikora neza kandi bikabarinda kuba bakangirika.

Imyitozo ngorora mubiri ni byiza ko tuyiha agaciro kuko ituma umubiri wacu ukomeza gukora neza, n'ubwo twayikora ariko tuba tugomba kwita kunywa amazi ahagije. Iyo turi mu myitozo ngororamubiri dutakaza amazi menshi cyane bitewe n'uko tuba twirukanse, ibyo rero bituma dutakaza amazi menshi niyo mpamvu tuba tugomba kwihutira gufata andi mu gihe tuyisoje kandi nayo ahagije.

Hari igihe umuntu ashobora kurwarira mu rugo, akaremba cyane ku buryo atabasha kugera kwa muganga cyangwa akarembera mu nzira. Icyo gihe hari imodoka zabugenewe zishinzwe gutwara abarwayi. Hari nimero bahamagara ku buntu ikaza yihuta ije gutanga ubutabazi bw'ibanze. Muri iyo modoka haba harimo ibikoresho byakwifashishwa kuvura uwo muntu mu gihe ataragera kwa muganga ndetse haba harimo n'abaganga bari buze kuba bamwitaho.

Ni byiza ko tugira ubumenyi butandukanye ku bijyanye n'uburyo twakora imyitozo ngororamubiri, kuko iyo tubyitayeho, bituma ubuzima bwacu bugenda neza, nta na kimwe tubangamiye. Tuba dukeneye amahugurwa atandukanye y'imyitozo itandukanye twagenda dukora kugira ngo bitazagira ingaruka ku buzima bwacu, mu gihe twakoze ibyo tutazi.

Gukora imyitozo ngororamubiri, ni ingenzi cyane, ariko n'uko kuyikora ari byiza, tugomba kwibuka kunywa amazi, kuko turamutse tutabikoze, umubiri wacu watakaza amazi menshi, bityo ukumagara cyane, ubwo rero ni iby'ingenzi ko niba tugiye gukora siporo, tugomba kwibuka no kunywa amazi, kuko tuba twatakaje menshi.

Inyubako rusange zo gukorerwamo amasiporo cyangwa se imyitozo ngororamubiri, ni ahantu h'ingenzi cyane, haba harimo ibikoresho bitandukanye bidufasha gukora imyitozo ngororamubiri neza, yaba ibyo guterura, ibyo kwicaraho ndetse no gutwara igare, ibyo byose bidufasha gukora imyitozo neza twumva nta kibazo dufite.

Hari ibikoresho bitandukanye dushobora kwifashisha mu gihe turi gukora imyitozo ngororamubiri, ibyo bituma tumenya urugendo twakoze, urwo dusigaje niba intego twari twishyiriyeho, mu rugendo turibuze gukora turi kwirukanka, ibyo bituma tudacika intege kandi bidutera inkunga cyane, kandi bigira ingaruka nziza ku buzima bwacu.

Siporo cyane imyitozo ngororamubiri ni ingenzi cyane idufasha gutuma ubuzima bwacu burushaho kumera neza bikaturinda indwara zitandukanye, gusa n'ubwo twakora siporo hari ibintu tuba tugomba kwitaho, imyitozo ngororamubiri tugomba gukora hari iyo kwicara kwirukanka cyangwa se tugahitamo kujya muri zanzu rusange hakorerwamo siporo aho haba harimo n'impuguke zadufasha bitewe nuko ubuzima bwacu bumeze.

Mu bikoresho byo kwa muganga, haba harimo n'imashini. Izo mashini, ziba zibahereza amakuru y'uburyo bakita ku muntu. Haba harimo ibikoresho bitandukanye, bifitanye isano n'aho bahuriye n'ubuzima bwa muntu, baba babikonekitinze ku buryo babasha gusoma amakuru aturuka mu mubiri w'umuntu, bakamenya uburyo bamwitaho, imiti bamwandikira, ndetse n'ubujyanama bamuhereza ku buburyo yakwitwara.

Niba dukora akazi gatandukanye gatuma twicara umunsi wose, ni byiza ko dutashye ku mugoroba dukora siporo zitandukanye nko kugorora amaboko, amaguru, ibyo bituma imitsi yacu irambuka bikaturinda indwara nk'iz'umutima, umuvuduko w'amaraso ndetse n'izindi zitandukanye.

Abakuze baba bagomba kwitabwaho mu buzima butandukanye, aho bafite utugare twabagenewe tubafasha kugenda. Abaganga babigenewe kubitaho, bagomba kubafasha gutera intambwe kugira ngo babashe kugera aho bagiye. Ibyo bituma bakora ingendo n'ubwo baba bashaje ariko bakabasha kugera ahantu hatandukanye baba bifuza kujya.

Imiti gakondo ivamo ibintu bitandukanye, harimo iyifashishwa mu kwita ku ruhu rwa muntu igihe yavunitse igufwa rigatandukana n'irindi cyangwa se agakomereka, iyo miti kubera ko iba yaratunganyijwe neza yifashishwa mu kugabanya ububabare, nanone iba yizewe ijana ku ijana ko nta kibazo umuntu yagira, hari iba ikozwe mu mavuta, hari iyo bapuririza ku ruhu ndetse hari n'iyo basigaho kugira ngo umuntu amere neza.

Abaganga ndetse n'abandi bakora kwa muganga, iyo turi mu gihe k'icyorezo gikwirakwira mu buryo bwihuse, bagerageza buryo ki bakirinda, bambara uturinda mu matwi, uturindantoki ndetse n'udupfukamunwa, na none iyo bibaye ngombwa ko bakora inama, ntabwo bakoresha uburyo bwo kubahura ari benshi, bifashisha ikoranabuhanga bakaganira, kuko guhura bari benshi ntabwo byakunda, mu rwego rwo kwirinda.

Hari ibintu bitandukanye bigomba kuba bigize ubuzima bwacu bwiza. Icya mbere, imyitozo ngororamubiri, kunywa amazi ahagije buri munsi, gufata amafunguro agizwe n'indyo yuzuye, ni ukuvuga ibikomoka ku matungo, imboga n'imbuto.

Abageze mu zabukuru babifashijwemo n'abaganga babitaho, bagomba kubafasha gukora imyitozo ngororamubiri kuko nubwo baba bashaje bakeneye gukomeza kugira ubuzima bwiza, iyo myitozo ituma amaraso akomeza gutembera neza imitsi ikarambuka ntiyipfundike, na none umutima ukomeza gukora neza bitewe n'uko amaraso agera mu bice byose ndetse n'ubwonko.

Hari ibintu bitandukanye byifashishwa kugira ngo tugire ubuzima bwiza iyo turwaye, muganga ashobora kutwandikira imiti ikozwe mu binini tunywa, ariko na none bashobora kwifashisha urushinge kugira ngo babashe kwihutisha umuti ukwirakwira mu mubiri.

Gukora siporo ni byiza cyane. Ariko kubera ko tuba twatakaje amazi menshi mu gihe turi kwirukanka dukora nindi myitozo ngororamubiri. Ni byiza ko niba dusoje gukora siporo ko twanywa kugira ngo tubashe kugarura imbaraga no kugarura amazi yabashije gutakara. Amazi ni ingenzi mu buzima bwacu bwa buri munsi, atuma umubiri ukora neza cyane.

Iyo turimo imyitozo ngororamubiri dushobora kuvunika cyangwa se tukangirika tugakomereka. N'ubwo bimeze bityo hari imiti yo kwa muganga dushobora kwifashisha kugira ngo igabanye uburibwe ndetse n'ubukana bw'igisebe nimba twakomeretse. Muri yo hari iyo dukoresha dusiga ahantu havunitse, na none hari bande bifashisha bakazirika ku gikomere no ku muntu wavunitse. Ni iby'ingenzi ko duhita twihutira kwa muganga bakadufasha mu gihe duhuye n'impanuka.

Hari ibikoresho bitandukanye, bishobora kwifashishwa kugira ngo umuntu wakoze siporo abashe gusubirana nimba imikaya ye cyangwa amagufa ye yangiritse, ibyo bikoresho tubihabwa n'abaganga kandi ni nabo batwigisha kubikoresha.

Kwa muganga hari icyumba cyabugenewe aho abantu babyarira haba hari amatara atandukanye udutanda twabugenewe aho ababyeyi bicara kugira ngo babyare biba byubatse mu buryo bw'ikoranabuhanga ku buryo ntawubangamirwa umubyeyi iyo ari kubagwa cyangwa se iyo ari kubyara bisanzwe baramufasha nta kibazo na kimwe agize.

Imiti gakondo ni ingenzi cyane ko tuyikoresha mu bintu bitandukanye kwivura, gukora ibyokurya, imiti itandukanye, amavuta ndetse n'amasabune. Gusa na none tuba tugomba kuyitaho mu buryo tuyihingamo kugira ngo izabashe gukura kandi ntizangirike.

Dushobora kwifashisha uburyo bwa kamere twirinda indwara zitandukanye cyangwa se kugira ngo tutazazirwara twifashishije ibyatsi gakondo, aho tubitunganya tukabikoramo imiti itandukanye yaba ibinini bifunitse cyangwa se umuti w'amazi wo kunywa kuko bidufasha kwirinda izo ndwara mu buryo bwizewe cyane.

Ibimera gakondo iyo tubifashe neza, tukabitunganya bivamo ibintu bitandukanye, harimo imiti twisiga ku ruhu rwacu niba turwaye indwara z'uruhu, hari imiti dukoresha mu kuvura indwara zo mu kanwa, havamo amasabune, ndetse havamo n'imibavu ishobora gukoreshwa mu guhumuza ahantu turi, ndetse n'imyambaro yacu.

Igikakarubamba ni kimwe mu miti gakondo. Iyo kitaweho amazi yacyo agatunganywa avamo ibintu bitandukanye, harimo amavuta yita ku ruhu kuko cyimbitse mu mwimerere wo gutanga ubudahangarwa ku ruhu no kurwanya udukoko. Na none kifashishwa mu gukora umuti w'amenyo uvura indwara zitandukanye zo mu kanwa ndetse tukagira impumuro nziza.

Hari igihe tuba dukeneye intungamubiri z'inyongera, ugereranyi n'ibyo dukura mu byoku kurya cyangwa se izo umubiri wacu ukora. Niyompamvu hari imiti ikorwa, yongeyemo ama vitamine ndetse n'amaminerozi, twabasha kurya kugira ngo umubiri wacu ubashe gukora neza. Ibyo bibaho iyo umuntu asanze afite ikibazo cy'inintungamubiri nkeya, nk'amavitamine cyangwa amaminerozi. Asabwa gufata iyo miti, kugira ngo abashe kubyongererwa.

Ibimera gakondo iyo byitaweho bishobora kuvamo ibintu bitandukanye, biranikwa, bigatunganywa bikaba byasekurwa bikavamo amafu akoreshwa mu bikoresho bitandukanye nk'umuti ushobora kunyobwa cyangwa gushyirwa mu biryo kugira ngo abantu babashe kuba babikoresha, nanone iyo tuyikoresheje ubuzima bwacu bushoboraho kugenda neza kuko nta ngaruka yatugiraho.

Hari igihe umubiri wacu ub'udafite vitamine zihagije ndetse n'ama minerals. Binyuze mu bimera, imbuto, ibibabi, havamo izo vitamine z'umwimerere n'ama minerals, dushobora kurya kugira ngo twongere izo umubiri wacu ukeneye. Dushobora kuzifashisha kugira ngo twongere intungamubiri zacu mu mubiri.

Iyo abaganga bari kuvura umuntu wakomeretse baba bagomba gukoresha amapadi cyangwa se amapamba, bagashyiraho arukoro kugira ngo babashe kwirinda ko hazaho udukoko tutagaragara, ni iby'ingenzi ko tuba duhari nk'iyo bagiye gutera umuntu urukingo, bakabanza bagakoresha iyo arukoro bakamuhanagura, kugira ngo hatagira indwara zinjira mu maraso.

Imiti gakondo ihingwa mu buryo butandukanye: hari ishobora guhingwa mu macupa cyangwa se mu bikoresho byubatswe mu ibumba, harimo nka teyi, indimu ndetse n'ibindi birungo bihumuza ibiryo, na none igikakarubamba na cyo gishobora kubamo.

Imiti gakondo iyo itunganyijwe, ivamo ibintu bitandukanye. Nk'igikakarubamba kivamo amavuta, ashobora gukoreshwa mu kwita ku ruhu. Nanone iyo umuntu yavunitse, hashobora gukoreshwa iyo miti gakondo yatunganyijwe neza. Tuba tugomba kuyiha agaciro ndetse n'abayihinga tugakomeza kubafasha kugira ngo baterwe inkunga n'uko tuyikoresha neza.

Ibimera gakondo urugero nk'umuravumba bivamo imiti myinshi itandukanye, hakubiyemo imiti ivura ibicurane, inkorora ndetse iyo itunganyijwe neza ivamo imiti yita ku muntu urwaye indwara z'ubuhumekero, ni iby'ingenzi rero ko buri wese ayitaho.

Imiti gakondo ivamo ibintu bitandukanye. Harimo amavuta, imiti itandukanye twakwisiga ndetse indi tukayinywa. Kugira ngo tubashe gukira indwara runaka, baba bagomba kuyitunganya bakayibika mu macupa yizewe. Ndetse ku bushyuhe badahindagurika kugira ngo itangirika yo ubwayo.

Iyo ibimera gakondo bitunganyijwe neza bivamo ibintu bitandukanye, muri ibyo ngibyo harimo imibavu ihumura neza dushobora kwitera ku myenda yacu, tukayisiga mu nzu zacu kugira ngo habashe guhumura neza, nanone havamo amavuta meza cyane twakoresha twita ku ruhu rwacu mu buryo butandukanye.

Icyatsi gakondo cyitwa ikibonobono cyifashishwa mu gukora ibintu bitandukanye hakubiyemo imiti ishobora kurinda indwara zo mu nda ndetse n'iz'uruhu. Hari n'ibindi bintu byinshi bitandukanye dushobora gukora. Nanone, icyo cyatsi tuba tugomba kukitaho tukakibungabunga, tukakivomerera ndetse tukanakibagarira kugira ngo kibashe gukura neza natwe tubone uwo musaruro.

Hari imiti gakondo igenda ikorwa kugira ngo ibashe kongerera umubiri ubudahangarwa, harimo ikomoka ku matungo cyangwa se ubuki, aho bwifashishwa mu kwita ku buzima bw'umuntu kandi bufite umwimerere, ku buryo buvura n'indwara zitandukanye.

Imiti gakondo tuyibona ahantu hatandukanye, usibye kuba abantu bayitera hari n'indi yimeza ugasanga iri mu bihuru cyangwa mu ishyamba, gusa aho yaba iri hose tuba tugomba kuyiha agaciro tukayitaho kuko ivamo ibintu byinshi, harimo imiti ishobora kutuvura, amavuta arinda uruhu, amasabune arinda uruhu ndetse n'ibindi bintu bitandukanye tuba tugomba kuyitaho ntitubiteme cyangwa se ngo tuyangize.

Ibimera gakondo ni ibyatsi bishobora kwimeza cyangwa se bakabitera. Uko byaba byarameze kose, ni iby'ingenzi ko tubyitaho tukabibagara, tukabivomerera kugira ngo bizavemo imiti itandukanye, tubikoreshe mu buzima bwacu bwa buri munsi.

Iyo twitaye ku bimera gakondo bitugirira umusaruro, tuba tugomba kubiha agaciro, tukabitera ahantu heza, tukabivomerera kuko biba bizadu ibintu bitandukanye harimo imiti, ibyokurya, amavuta ndetse n'amasabune, iyo tubikoresheje neza bitugira umumaro ku mubiri wacu kuko buri wese yungukirwa no kuba yabikoresheje.

Imiti gakondo ni ingenzi cyane, yifashishwa mu kuba imiti, amavuta, amasabune, n'ibindi bintu bitandukanye, ihinzwe ahantu hatandukanye, hari iyimeza ariko nanone hari n'iyo dushobora gutera bitewe n'uko tuzi akamaro kayo, iyo itunganiyijwe ivamo ibyo bintu byose, ni yo mpamvu buri wese aba agomba kubigira ibye mu kuyitaho, ntayiteme ngo ni uko ko ari ibyatsi.

Igikakarubamba ni kimwe mu byatsi kamere bishobora kuvanwamo ibintu bitandukanye. Iyo gihinzwe neza kivamo imiti itandukanye. Amazi yacyo aratunganywa akaba yabyazwamo umusaruro amavuta twisiga ku ruhu, amavuta twakwisiga mu mutwe, imiti y'amenyo, amasabune ndetse n'ibindi bintu bitandukanye.

Hari ibintu gakondo byifashishwaga kera kugira ngo bagaragaze umuco nyarwanda. Harimo ibicuma, inkono, ibirere by'insina, ibinigi ndetse n'ibindi bitandukanye. Ibyo byose bigaragaza umuco nyarwanda.

Imiti gakondo iyo itunganijwe irasekurwa, ikanikwa ikavamo ibintu bitandukanye nk'amavuta twisiga mu ruhu rwacu, ku mutwe, mu misatsi kandi hari n'ayo dukoresha duteka amafunguro yacu kugira ngo yongere uburyohe, ibyo byose biva mu miti gakondo aho iba yatunganijwe neza kandi tuba twizeye ko nta ngaruka azatugiraho.

Imiti gakondo iboneka ahantu hatandukanye, kandi yose irakoreshwa. Urugero nk'umuravumba wifashishwa mu gukora imiti by'umwihariko y'ubuhumekero. Ibicurane, inkorora, indwara zifata mu muhogo, twayikoresha ari ibyatsi cyangwa se baba bayitunganyije byose bitugirira akamaro. Tuba tugomba kuyitaho kugira ngo izakomeze idufashe.

Imiti gakondo iva mu byatsi bitandukanye. Ibyatsi hafi ya byose bivamo imiti. Gusa biba bigomba kwitabwaho mu buryo bihingwamo, kandi nyuma yabo bakabisarura bakabitunganya kugira ngo bivemo ibyo bintu byose. Urugero nka capusine, umuravumba, akapera ndetse n'indi miti itandukanye, nk'igikakarubamba. Biba bigomba gutunganywa kugira bivemo imiti.

Ibyatsi kamere cyangwa se imiti gakondo iboneka ahantu hatandukanye iba ari myinshi, gusa nanone hari iyimeza hari niyo dutera, tuba tugomba kuyitaho uko yaba yaraje kose yaba yarimejeje cyangwa twarayiteye; iyo tuyitayeho neza ivamo ibintu bitandukanye hakubiyemo imiti amasabune ndetse n'amavuta.

Imiti gakondo n'ubwo benshi tuzi ko ari ibibabi bivamo imiti, n'indabo na zo ubwazo zishobora kwifashishwa zikavamo ibintu bitandukanyeshaka, zishobora kuvamo amavuta afite impumuro nziza kandi akaturinda uruhu rwacu. Na none havamo amasabune iyo bibaye ngombwa ashobora kwifashishwa mu gukora imibavu. Ni iby'ingenzi rero ko byose tubyitaho tukayirinda ibyonnyi kugira ngo bitangirika.

Ibyatsi gakondo ni iby'ingenzi cyane kubikoresha kenshi bituma ubuzima bwacu burushaho kumera neza, ikindi bikoreshwa mu birungo by'icyayi, ushaka ko gihumura neza ndetse kikagira n'ubundi buryohe.

Iyo twishyiriyeho gahunda yo gukoresha imiti gakondo cyane nko ku mavuta, imiti y'amenyo ndetse n'ibindi ubuzima bwacu bugenda neza. Iyo dushyizeho iyo gahunda bidahindagurika, tubona ingaruka nziza mu gihe gito cyane.

Ibyatsi gakondo bimera mu buryo butandukanye hari ibishobora kwimeza bitabaye ngombwa ko tubitera, urugero bishobora kwera ku rugo aho nk'umuzi wabyo watakaye, imvura iyo iguye bishobora kongera gushibuka.

Igikakarubamba, ni kimwe mu bigize ibyatsi gakondo, aho cyifashishwa mu gukora ibintu bitandukanye, kubera umwimerere wacyo ndetse n'ubwiza bwacyo, gikoreshwa mu gukora imiti, amasabune ndetse n'amavuta yo kwisiga. Bituma uruhu rumera neza, rugahora rutoshye, kandi bikarinda n'izindi ndwara zifata uruhu.

Imiti gakondo iyo itunganjwe, ishobora gushyirwa mu macupa yabugenewe kugira ngo itangirika, nanone hajya habaho imurikagurisha ry'ibintu bitandukanye aho na yo ishobora kuzanwa kandi abantu benshi barayigura kuko ivura indwara zitandukanye.

Mu ishyamba uba usanga hari ibiti by'ubwoko butandukanye kandi bishobora kuvamo imiti ivura indwara nyinshi, ibyo biti uba usanga akenshi byarimejeje ariko iyo bitunganyijwe neza, bivamo imiti itandukanye ivura indwara.

Ibimera iyo byitaweho bivamo ibinini biba byatunganyijwe neza, ku buryo byizeweho ubudahangarwa n'umwimerere byatuvura. Ibyo binini, kuko bidakozwe mu nganda, biba byizewe ijana ku ijana ko nta ngaruka byatugiraho, turamutse tubikoresheje. Gusa na byo, tuba tugomba kubikoresha, ku gipimo cyagenwe, kugira ngo bitatugiraho ingaruka.

Ibyatsi, ibimera n'ibindi bintu byose bikoze muri gakondo ni ingenzi cyane. Bivamo amavuta, amasabune. Ayo mavuta dushobora tuyifashisha turya kuko yo ntago yaciye mu nganda. Ibyo bigatuma aba yujuje ubuziranenge nta ndwara yadutera nyuma yuko tuyakoresheje. Iyo dushyizemo imbaraga tukabyitaho, bituma biza bifite ubuziranenge.

Karoti ni igihingwa cyiza cyane, gikungahaye kuri vitamine zitandukanye, iyo tuyiriye kenshi bituma ubuzima bwacu burushaho kuba bwiza, iturinda indwara, ituma tubasha kubona neza nanone ifite ikibazo cyo gukunda kugira isereri, kubura amaraso ushobora kuyikoresha rwose. Karoti ni igihingwa cyiza cyane.

Iyo dufashe neza imiti gakondo n'ibimera bitandukanye, bivamo ibintu byinshi. Harimo imiti, amavuta ,ndetse n'ibindi bintu bitandukanye. Iyo twisize ayo amavuta, uruhu rwacu rumera neza ndetse havamo n'isabune. Uwo muti, urugero nk'uwo mu kanwa n'uwo ku ruhu, na byo birinda uruhu rwacu cyane, buri wese akumva ameze neza bitewe n'uko yayikoresheje.

Ibyatsi bishobora kuvamo ibintu bitandukanye. Iyo byitaweho bigatunganywa bivamo imiti. Urugero; nk'imiti ikoreshwa mu kwita ku muntu wavunitse kugira ngo bamwunge yenda nk'ingufu ryatandukanye, iyo miti irafasha cyane, niyo mpamvu tuba tugomba kuyitaho na none ibyo byatsi tukabyitaho, tukabibagarira, tukabivomerera kugira ngo bizakure neza.

Imiti gakondo igenda ivumburwa uko bwije n'uko bucyeye, iyo miti yifashishwa mu gukora ibintu bitandukanye hakubiyemo imiti yita ku ruhu, imiti ituma ikavura indwara zo mo imbere, ivura mu kanwa ndetse n'ibindi bintu bitandukanye, ni iby'ingenzi ko tuyiha agaciro kandi tugaha agaciro abayihinga kugira ngo na bo bazagire iterambere.

Igikakarubamba n'umuti gakondo uvamo ibintu bitandukanye harimo imiti ivura amenyo, imiti bakoresha kundwara z'uruhu nanone ivamo amasabune. Iyo gitunganyijwe neza kikabikwa ahantu heza hafite isuku kivamo ibyo bintu byose. Ni iby'ingenzi rero ko tukibunga bunga tukagiha agaciro mubyo dukora byose.

Ibyatsi gakondo cyangwa se imiti gakondo iva mu bintu bitandukanye. Hari iva mu bibabi ariko hari n'iyindi iva mu bijumba cyangwa se imizi yo hasi, bakayitunganya neza ikaba yavamo ibyatsi na none iyo miti ishobora kuva mu bintu by'imbuto bishobora kuva ku mababi ava kuri ibyo biti gakondo.

Imiti gakondo ntabwo ari ibimera gusa cyangwa se ibibabi, na none imizi cyangwa se ibicukurwa hasi nk'imizi n'ibijumba bivamo imiti, barabitunganya bakabyanika hanyuma bakabisekura hakavamo ifu, ifu niyo yifashishwa mu gukora imiti gakondo.

Imiti gakondo iri amoko menshi atandukanye, urugero tungurusumu, ishobora kwifashishwa mu kuvura inzoka zo mu nda ndetse n'izindi ndwara, tangawizi ndetse n'ibindi bitandukanye, ibyo byose birakoreshwa.

Ibimera gakondo bivamo ibintu bitandukanye; muri byo harimo amasabune yifashishwa mu koza mu mutwe, kandi haba harimo intungamubiri zitunga umusatsi ugakura umeze neza. Ayo masabune aba akozwe mu buryo bw'amazi, ku buryo abasha kuba yasukwa. Nanone atuma umusatsi wacu ukura ufite ireme kandi usa neza.

Ibyatsi gakondo ni ibimera bitandukanye biduhereza umuti, bikaduhereza ibyo kurya na none bivamo amavuta, imiti itandukanye. Bisaba kubyitaho kugira ngo tuzabashe kubona umusaruro mwiza kuri ibyo byatsi. Nanone iyo tubikoresheje ubuzima bwacu burushaho kugenda neza ko nta ngaruka bidutera.

Ibimera iyo bitunganyijwe bivamo imiti gakondo. Urugero nk'igikakarubamba gishobora kuvamo amavuta, amasabune cyangwa se imiti y'amenyo kandi biba byizewe neza ijana ku ijana ko nibavura umuntu akaba yakira.

Imiti gakondo ni myiza cyane. Iyo dufashe ibimera tukabitunganya mu buryo bwiza, ivamo imiti, ikavamo amavuta, ndetse n'amasabune, twifashishije mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ni iby'ingenzi ko tuyihinga tubyitayeho kuko bizavamo ibintu bitandukanye.

Umuti w'amenyo ni mwiza cyane. Kwita ku isuku yo mu kanwa ni iby'ingenzi cyane kurushaho, bituma abandi bumva tumeze neza duhumura neza kandi natwe ubwacu biraturinda kuba twagirwaho ingaruka no kudasukura amenyo yacu. Ikintu cyakoreshwa by'umwihariko ni ibimera. Imiti ikozwe mu bimera iba ifite agaciro kenshi cyane kuko ituma tumera neza mu kanwa.

Ibimera biba birimo ibintu bitandukanye, harimo ibizana indabo zifite amabara atandukanye, ibizana imbuto ziryoha, ibivamo imiti, ibibabi byabyo byifashishwa mu gukora imiti itandukanye, amasabune ndetse bishobora no kuvamo ibyokurya twarya mu buzima bwacu bwa buri munsi.

Hifashishijwe imiti gakondo hakorwamo imiti itandukanye harimo n'uvura inzoka zo mu nda. Muri izo nzoka harimo iyitwa amibe aho ikunda gufata abantu ikababuza amahoro ntibabashe kurya n'ibyo bariye na byo ikaba yabiguguna byose ikabimaramo ntibabona intungamubiri. Uwo muti uba wizewe kuko ufite ubudahangarwa ndetse ufite n'umwimerere ufasha kurwanya iyo nzoka.

Muri rusange imiti gakondo itugirira akamaro cyane. Irimo ubwoko bwinshi. Yose hamwe iyo itunganyijwe mu buryo bwiza kandi bwizewe ivamo imiti idufasha mu kwita ku buzima bwacu. Na none iba igomba kubikwa ahantu hizewe kugira ngo itangirika. Mu gihe turi kuyihinga tuba tugomba kwita ku isuku yayo ndetse n'uburyo tuyitunganya. Ni iby'ingenzi ko tuyiha agaciro tukayibagarira, tukanayivomera ntituyiteme.

Imiti gakondo, ni byiza kuyikoresha cyane, gusa nubwo twayikoresha tuba tugomba kugira amakenga, uburyo tuyibikamo n'ahantu tuyibika, bityo tuba tugomba kuyigirira isuku kubika ahantu hatari ubushyuhe bwinshi, cyangwa ubukonje bwinshi, kugira ngo itangirika, kuko iramutse igize ikibazo ntabwo yabasha gukora ibyo yagenewe.

Hari amavuriro yabigize umwuga, aho afata ibyatsi cyangwa se ibimera gakondo akabibyazamo umusaruro agakora imiti itandukanye ivura abantu. Ibyo byatsi biratunganywa neza bikavamo ibinini cyangwa se imiti nta kindi kintu cyongewemo, cy'umwihariko ibivuye mu nganda. Iyo tuyikoresheje nta ngaruka n'imwe bitugiraho kuko iba yizewe ijana ku ijana.

Umuravumba ni icyatsi cyiza cyane, aho cyifashishwa mu kuvura indwara z'inkorora, ibicurane ndetse no mu muhogo, icyo gihingwa gikungahaye ku miti y'umwimerere, kuko iyo ugikoresheje neza, ubasha gukira mu gihe gito cyane, gusa na none tuba tugomba kwita ku ngano y'ibyo dukoresha, kugira ngo bitatugiraho ingaruka.

Imiti gakondo nk'igikakarubamba, ni myiza cyane mu kuvura indwara zitandukanye. Wifashishwa mu gukora imiti ivura mu kanwa, gusukura amenyo ndetse bituma tugira impumuro nziza mu kanwa, bikatuvura n'izindi ndwara.

Imiti gakondo ni iy'ingenzi cyane. Gusa nanone tuba tugomba kuyitaho mu buryo bwimbitse. Mu buryo tuyibikamo, aho ibikwa, ubushyuhe ibikwaho ndetse n'ubukonje kuko bigira uruhare mu kugira akamaro mu gihe tuyikoresheje. Bityo, tuba tugomba kubyitaho mu gihe turi kuyikoresha.

Imiti gakondo iba igomba gutunganywa. Ariko abayitunganya baba bagomba no kwita k'uko baribuze kuyibika, imaze gutunganywa neza, bagomba kwita ku isuku yaho, ibikoresho iba iribukwemo, cyangwa se ubushyuhe n'ubukonje bw'ahantu iri.

Imiti gakondo ibimera by'umwimerere bivamo ibintu bitandukanye urugero nk'amavuta twakwifashisha duteka, ayo twakwifashisha twita ku ruhu rwacu, ibyo bitunganyijwe neza bivamo, ibyo bintu byose tuba tugomba kubyitaho mu kubihinga mu kubyitaho kubivomera ndetse n'ubundi buryo butandukanye bifasha gukura neza.

Imiti gakondo iyo itunganyijwe neza ishobora kuvamo ibinini cyangwa se indi miti yo kunywa. Gusa yose intego ni imwe ni ukugira ngo ivure umuntu abashe gukira indwara. Kandi iyo miti ifite ubuziranenge kuko nta bindi bintu byo mu nganda biba byongewemo.

Ibimera gakondo, bimera ahantu hatandukanye. Nanone biba bifite ingano zitandukanye; hari ibiti by'inganzamarumbu, ariko nubwo biba bimeze gutyo, byose biba bifite akamaro k'ingenzi. Bidufasha kubona imiti, amasabune ndetse n'amavuta. Nanone dukuramo ibyo kurya, havamo imbuto zitandukanye, twishimira mu gihe turi kuzirya.

Imiti gakondo cyangwa se ibyatsi kamere bivamo ibintu bitandukanye. Havamo amasabune dukoresha twita ku isuku yo mu rugo, ibikoresho dukoresha. Havamo amavuta twifashisha mu kwita ku ruhu rwacu. Havamo n'indi miti itandukanye dukoresha twita ku buzima bwacu. Ibyo byose biva muri iyo miti gakondo, niyo mpamvu tuba tugomba kuyitaho tuyitunganya neza kugira ngo izavemo ibyo bintu byose.

Ibimera cyangwa se ibyatsi gakondo iyo byitaweho bigatunganywa bivamo ibintu bitandukanye, muri byo harimo amavuta, amasabune ndetse n'imiti yifashishwa mu kwita ku ruhu rwacu kandi bitugirira akamaro.

Ibyatsi gakondo iyo byitaweho bivamo imiti itandukanye bishobora gukoreshwa ari imbuto cyangwa se amababi, gusa iyo byose babitunganyije neza havamo ibintu bitandukanye harimo n'imibavu amavuta ndetse n'ibindi.

Imiti gakondo iyo itunganyijwe neza ivamo ibintu bitandukanye, urugero igikakarubamba kivamo amavuta yo kwisiga ku ruhu, umuti w'amenyo ndetse n'indi miti itandukanye, kiba kigomba guhingwa neza kugira ngo kizavemo uwo musaruro.

Umuravumba ni icyatsi kifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye, urugero nk'inkorora, ibicurane, umutwe ndetse n'izindi, kiratunganywa, kirabanza kikanikwa hanyuma bakagisekura, bakagishyira mu macupa meza bakagifunga kugira ngo kidatakaza umwimerere.

Igikakarubamba ni ikimera gakondo, iyo gitunganyijwe kivamo ibintu bitandukanye, gishobora kuvamo umuti w'amenyo, kikavamo amavuta, kikavamo isabune, ibyo byose biraturinda iyo tubikoresheje kandi n'umwimerere, kivura ibiheri, kikavura impumuro mbi mu kanwa, kikavura n'izindi ndwara zitandukanye zo ku ruhu, ni ingenzi rero ko tugikoresha.

N'ubwo dukoresha imiti gakondo, ariko na none hari abantu baba bagomba kuyikoresha byagenewe, bafite ubumenyi bwimbitse, kugora ngo na none itazagira ingaruka ku bantu. Ni iby'ingenzi cyane ko tubasha kwita ku bintu byose, itazatugiraho ingaruka, yaba iza vuba cyangwa se iz'igihe kirekire, gusa imiti gakondo yo, ni ingenzi cyane kuyikoresha kubera ko nta ngaruka itugiraho.

Ibyatsi bitandukanye bivamo imiti myinshi, nanone tubikoresha dushakamo ibyo kurya. Ikindi nanone ibyo byatsi bivamo imiti itandukanye, yaba iyo ku ruhu, amasabune ndetse n'ibindi bintu byinshi.

Imiti gakondo ivamo ibintu byinshi cyane kandi biradufasha, gusa tuba tugomba kuyitaho mu buryo bushoboka bwose, mu kuyanika, mu kuyibika ndetse no mu kuyitunganya kugira ngo izabashe kuvamo, umusaruro mwiza kandi igira ingaruka nziza ku mubiri wacu, iyo tuyikoresheje umubiri wacu nta ngaruka biwugiraho kandi birawurinda.

Igikakarubamba iyo bagitunganyije mo imbere haba harimo amazi, ayo mazi iyo bayatunganyije avamo ibintu bitandukanye harimo amasabune, imiti ndetse n'amavuta. Iyo tubikoresheje bituma tumererwa neza, ariko na none tuba tugomba kucyitaho mu kugihinga tukakivomerera kugira ngo kizabashe gukura tubone uwo musaruro.

Imiti gakondo cyangwa se ibyatsi by'ibimera bishobora kuvamo ibintu bitandukanye harimo imiti ishobora kudufasha kugira ngo ubwonko bwacu bukore neza, iyo itunganyijwe ikavamo ibinini cyangwa se imiti, iyo miti nta bindi bintu biba byongewemo usibye ibyatsi by'umwimerere kugira ibashe kutugirira akamaro mu buzima bwacu bwa buri munsi. Iyo miti ni ingenzi cyane ko tuyikoresha.

Ibyatsi cyangwa se ibimera gakondo, hari igihe umuntu ashobora guhitamo kubitera akabigira nk'umushinga. Iyo byitaweho bivamo ibintu bitandukanye, gusa abagomba kubihingwa mu buryo bwa kijyambere, kugira ngo igihe cyose giteganya kuzavamo, bizaboneke. Urugero havamo imiti, amasabune, ndetse n'amavuta. Haba hagomba kubihingwa ahantu heza, bigahabwa intungamubiri binyuze mu mafumbire, ndetse bakanabivomerera.